Umwana wambaye impuzankano yiganjemo amabara y'umutuku wijimye ndetse na karokaro, ari imbere ya kandagira ukarabe aho ari kugerageza gukaraba intoki mu ibase ifite ibara ry'umuhondo.

Abana batatu b'abanyeshuri bambaye utwenda turimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, bafite isabune mu ntoki aho bari imbere y'ivomero rifite imigezi itatu bari kugerageza gukaraba mu ntoki.

Ikiyaga kinini cyane kirimo amazi, imbere yaho hari ibyatsi bitandukanye bisa nkaho byumye, muri iki kiyaga harimo abana bagera kuri bane barimo kuvoma, umwe yambaye utwenda tw'umuhondo, abandi bambaye utw'ubururu, bari kugerageza kuvomesha ibivomesho bitandukanye muri aya mazi.

Aba mama batatu barimo uwambaye akajiri kari mu mabara y'icyatsi, ndetse n'umukara. Yambaye kandi uturindantoki tw'ubururu, yambaye ndetse n'agapfukamunwa na linete. Bahagaze ahantu iruhande rw'ikiyaga, aho umwe atareruye umwana yamukindikije agatambaro k'umuhondo. Undi kandi yambaye ishati n'ipantaro y'umukara ndetse akaba yambaye n'ingofero.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga batandukanye bagera kuri bane. Bambaye impuzankano yo kwa muganga isa ubururu bwerurutse cyane, ndetse bambaye udupfukamunwa tubarinda kwandura indwara zo mu buhumekero. Barikugerageza gufasha umurwayi mu ndwara zivurwa zo mu kanwa kugira ngo barebe ko bamumugirira neza. Umurwayi aryamye hasi asa nkaho nta kindi kintu yambaye usibye ako kenda ko kwa muganga kamufasha.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kwita ku bana kirimo umuganga wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'ishati iri mu mabara y'ibitenge by'umuhondo ndetse na y'ubururu, yambaye kandi agaherena ku gutwi, uyu muganga ari kumwe n'umumama uteruye umwana w'uruhinja yambaye akenda k'umweru aho umuganga ari kugerageza kumuha umuti.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga b'abagore babiri, bambaye amataburiya ya bruciel, n'utwenda aturinda mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa, undi akaba yambaye rinette, afite machine computer ku gitanda ariho ndetse arimo aragerageza gufasha umurwayi w'umukobwa, wambaye agapira kajya gusa kaki, n'agapantaro k'umweru, arimo aramupima yifashishije igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bagera kuri bane abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'imyenda y'icyatsi bambaye kandi udupfukamunwa two kubarinda indwara umwe muri abo baganga arimo arafasha umurwayi wambaye agapira ka kake kanditseho amagambo ari mabara y'ubururu , icyatsi ndetse n'umuhondo avuga RBC barimo baragerageza kumutera urushinge rw'indwara arwaye.

Umugezi uriho robine imwe iri kuvamo amazi uriho umwana w'umuhungu wambaye agapira karimo amabara y'umukara ndetse n'uburur, n'agakabutura k'icyatsi kererutse. Uyu mwana arimo gukaraba amazi aturuka kuri iri vomo ayashyira mu maso no mu mutwe.

Ihuriro ry'abavomyi batandukanye bazengurutse umugezi wa nayikondo wo mu cyaro. Hariho umumama wambaye agapira k'icyatsi cyijimye n'agatambaro yiteze mu mutwe k'umuhondo, arimo arakoresha imbaraga ze asunika kugira ngo amazi aturuka mu kuzimu azamuke, hanyuma umwana uri ku mugezi ufashe amajerekani abiri, wambaye agapira k'umutuku avome.

Kwa muganga atangirwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abarwayi batandukanye bari kwitabwaho, harimo abaganga bambaye imyenda y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, harimo umuganga umwe w'umugore w'umuforomokazi wambaye agashati k'ubururu bwerurutse ari kugerageza gufata ibipimo umumama w'umukecuru uri imbere ye.

Ivomero riri mu gace k'icyaro, rikikijwe n'insina ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ririho amajerekani menshi cyane y'umuhondo, aho rikikijwe n'abamama batatu, umwe ari kuvoma, undi arahagaze, yambaye agashati karimo utubara tw'umutuku, iroza ndetse n'umweru, yikinyeje kandi agatambaro k'icyatsi, bose hamwe bategereje kuvoma.

Ikiyaga cyo mu cyaro ahantu hameze nko mu gishanga, ni ahantu hadendeje amazi. Harimo umumama ufite ijerekani uri kugerageza kuvoma, yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'igitenge. Hari umugabo kandi wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto za bodaboda z'umweru, arimo koza igare.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima batandukanye, barimo abagabo n'abagore, bambaye amataburiya y'ubururu bwererutse ndetse n'uturango twerekana akazi bakora tuzwi nka baje. Bari kumwe n'umugabo w'umuzungu, wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'agashati k'umweru na karavati. Bari mu muhanda kandi uzengurutswe n'ibiti by'ubwoko butanduk...

Itsinda ry'abagore n'abagabo benshi bahuriye mu muryango w'abajyanama b'ubuzima. Bambaye imipira yiganjemo iy'amabara y'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara n'imyenda y'ibitenge. Bari imbere y'icyapa kinini cyanditseho Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC. Aho bari kugerageza gufata ifoto n'abayobozi batandukanye barimo n'abazungu.

Ivomero riri mu gace k'icyaro risizeho amarangi y'ubururu bwerurutse, ririho abamama batandukanye bari kuvoma bafite amajerekani y'umuhondo ndetse na y'umweru, hari abandi bagabo kandi bari kuruhande bambaye udushati turimo amabara y'umuhondo n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, bari iruhande rw'ibiti bitandukanye, hari kandi amagare y'abavomyi ari hirya, ivomero rifite imigezi itatu ariko uri gukora ni umwe.

Icyapa kinini cyane kiri mu ishusho y'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru, gishushanyijemo ikizeru kirimo ishusho y'umwana ndetse n'umubyeyi umuteruye, gikikijwe kandi n'uduti tubiri tw'amababi atandukanye turi ku mpande z'iki kizere kigaragaza umubumbe w'isi kigasobanura.

Ku ivomo ryo mu cyaro abagore bagera kuri batatu baje kuvoma, umwe muri bo ari kugenda adaha amazi mu cyo bari kuvomeramo. Abandi babiri barimo uwambaye agapira k'ubururu ndetse kavanze n'amabara y'umutuku, ndetse n'uwambaye igitenge n'agasengeri k'umweru, barimo baragerageza gukoresha imbaraga zabo ngo basunike kino cyuma kizwi nka neyikondo kizamure amazi.

Itsinda ry'abayobozi n'abaganga batandukanye bicaye mu cyumba barimo kuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bwo kwita ku bana, aho imbere yAabo hari icyapa kinini cyane cyanditsemo amagambo y'umweru kiri mu ibara ry'ubururu yanditseho ngo ku cyizere cya buri mwana. abaganga bombi bahuriye hamwe, harimo bambaye amakoti y'umukara abandi bambaye utwenda twiganjemo umweru.

Ihuriro ry'abana b'abanyeshuri batandukanye, bambaye impuzankano z'umuhondo, bahagaze ahantu hamwe, bose bazamuye ibiganza birasa nkaho ari abana b'abanyeshuri, bari kumwe n'itsinda ry'abantu bagera kuri batanu. Harimo abambaye imyenda y'umweru bazwi nk'abarimu ndetse n'umuntu umwe w'umuzungu w'umugabo wambaye agashati kajya gusa icyatsi cyerurutse, undi akaba yambaye agakanzu kajya gusa umutuku.

Ikiyaga kinini cyane cy'ahantu mu cyaro kirimo amazi asa nkaho asa nabi, harimo abana batandukanye barimo kugerageza kwidumbaguza muri aya mazi, bamwe barahagaze abandi bibiye mu mazi barimo koga.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuhinzi batandukanye bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara, bari hagati mw’ishyamba mu murima, bari kubaka akarima k'igikoni, abandi bari kugerageza guteramo imboga zitandukanye.

Umwana wo mu kigero cy'imyaka mito cyane wambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara karimo amabara ajya gusa umuhondo afite isabune mu ntoki arimo aragerageza gukaraba hari ikiganza kandi cyangwa se ukuboko k'umuntu ufashe ijyaga irimo amazi arimo aramusukira kugira ngo akara.

Ikirango kinini cyane kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kigizwe n'uduti tumeze nk'udushami turi mu mabara y'umweru ndetse n'amagambo manini cyane yanditse mu nyuguti z'umweru, asobanura ihuriro ry'umuryango ny'Afurika wita ku biryo, umuryango w'abibumbye wita ku byo kurya.

Ivomo ryo mu cyaro rikikijwe n'ibiti bitandukanye bijya gusa mu mabara y'umuhondo; ririho umwana wambaye agashati kajya gusa icyatsi, ndetse n'agakabutura kajya gusa umukara. Arimo aragerageza gukaraba amazi yo kuri iri vomo, ndetse hiryaye hateretse indobo ebyiri ziza kwifashishwa mu kuvoma aya mazi.

Ihuriro ry'abanyacyubahiro batandukanye bahuriye muri salle ikorerwamo ibikorwa by'inama, aho hamanitsemo ishusho ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi hakaba harimo n'abantu batandukanye buri wese afite amazi, ni abantu bari kuganira ku bikorwa bijyanye n'ubuzima aho kuri buri meza hateretse akavaze k'uturabyo ndetse na buri muntu yicaye ku ntebe y'umukara kandi bambaye imyenda itandukanye.

Umugezi uri mu gace ko mu cyaro hariho abana bari kugerageza ku pompa kugirango bavome, mugihe cy'imvura kubona abana bakonje bamwe bahagaze hirya barimo abambaye utwenda tw'ubururu n agapira k'umutuku, afashe inkoni ndetse na bote.

Ku ivomo riri mu mabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru. Ryandikishijeho amagambo asa nk'aho ari mu mabara y'ubururu, hariho abamama bagera kuri batatu, babiri bambaye agapfukamunwa, babiri barunamye ku ivomo barimo baravoma, abandi undi ari kugerageza kunywesha amazi intoki ndetse n'amajerekani yabo ajya gusoma umuhondo.

Mu cyapa cy'umuryango mpuzamahanga yunicefu yita ku bana harimo umwana uri imbere ya robine irimo utuzi dukeya yatezeho ibiganza arimo aranywa hirya ye hari abantu batandukanye bamushagaye ndetse ari imbere y'intebe y'ubururu bwerurutse.

Mu nzira yo mu gace k'icyaro irimo abana batandukanye b'abanyeshuri bari kuva ku ishuri bambaye imyenda ya kaki ndetse n'iy'ubururu harimo abakobwa n'abahungu hari robine igabo wambaye agapira ka buruciyeri arimo aragerageza gufasha umwana kuvoma umwana wambaye akenda karimo amabara y'icyatsi kijimye ndetse n'agakabutura ka buruciyeri.

Umwana muto cyane wambaye agapira k'umutuku afite igikombe cy'umuhondo mu ntoki ze, arimo aravoma ku mugezi ufite robine ebyiri zose ziri kuvamo amazi, hirya ye hari ibyatsi bitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, witeze agatambaro k'umukara mu mutwe ,afite telefone mu ntoki ndetse n'icyuma yashyize ku murwayi kigerageza gupima umuvuduko w'amaraso, umurwayi yambaye agashati k'umutuku n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo, umutuku wijimye n'ayandi, yegeranye kandi n'undi mubyeyi wambaye akenda k'umuhondo n'umweru, nundi ur'inyuma yabo ufite agatambaro k'umutuku.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye ndetse barimo abamama n'abagabo aho bahuriye hamwe, harimo abambaye imyenda y'umweru, amataburiya y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, bari hamwe mu cyumba, hejuru y'icyo cyumba hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'umutuku, avuga ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu.

Mu cyumba cyo kwa muganga kibamo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyuma bibiri bizwi nk'ibitanga umwuka, byifashishwa mu kongerera umwuka, abarwayi baba bafite umwuka udahagije, ibyo byuma n'ibyuma bitatu, birimo amabara asa nkaho ari ay'ubururu bwerurutse cyane.

Umugore wambaye umupira w'imbeho ndetse n'ingofero, umupira ujya gusa n'icyatsi cyerurutse cyane, akambara agatenge kiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, ari ku ivomo rifite robine ebyiri, aho afite amajerekani atatu imwe ivomye kuri robine ya mbere, indi ivomye kuri robine ya kabiri.

Ivomo ryo mu cyaro rizwi nka nayikondo ririho abantu batandukanye, abakuru ndetse n'abana bato bambaye akenda karimo umutuku ndetse n'akabara kajya gusa umweru abandi bambaye imyenda ya kaki bose basa nka barangaye ariko bafite amajerekani ari mabara y'umuhondo ndetse n'utundi tubara dutandukanye bari kuvoma amazi.

Mu cyumba cyo kwa muganga gipimirwamo imikurire n'imiterere y'abana, baba bapima ibiro ku munzani, harimo abantu batandukanye biganjemo abamama afite abana, bari kumva inama zikomotse ku mujyanama w'ubuzima, cyangwa se umuganga uri kubafasha kubara neza uko abana babo bakura.

Ibitaro byo kwa muganga byita ku bana mu cyumba cyahariwe kuvura abana batoya cyane, harimo abaganga babiri bari kugerageza kwita ku mwana mutoya uryamye ku gitanda ndetse na nyina wambaye agatenge n'agatambaro k'icyatsi kererutse mu mutwe. Aba baganga bombi bambaye imyenda y'umweru y'impuzankano, undi yiteze agatambaro k'umweru mu mutwe, bafite ibikoresho bitandukanye byo kwita kuri uyu mwana.

Agace ko mu cyaro gakikijwe n'ibihuru ndetse n'amashyamba atandukanye, hari umuhanda uparitsemo imodoka y'umweru. Hari ivomo kandi rizwi nka nayikondo rikoreshwa mu buryo bwo gupika amazi akava hasi mu kuzimu. Hariho abana bane bambaye utwenda dusa nabi, hariho kandi umumama wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umweru n'inkweto zirimo umweru n'umukara arimo arapompa.

Umusaza wambaye ishati y'igitenge irimo amabara y'umutuku n'umuhondo n'akagofero k'abayisilamu k'umweru ari kumwe n'umuganga uri kugerageza kumufata ibimenyetso by'uburwayi yambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki ndetse n'igifasha kumurinda mu maso imbere yabo hari umwana wambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo abarwayi, kimanitseho ibipapuro byinshi cyane by'umweru bigaragaza serivisi zitangirwa kwa muganga ndetse n'amabwiriza agenga kwivuza, hariho abantu bagera kuri bane b'abarwayi, hari umumama ufite akenda k'ubururu n'akandi k'umweru yambaye ni igitenge, bose hamwe bicaye ku ntebe z'urubaho.

Imbere y'ivomero ryo mu cyaro rifite amabara y'ubururu ndetse na robine zigera kuri ebyiri, hari amajerekani atonze umurongo ategereje kuvomwa, asa n'umuhondo ndetse n'andi ajya gusa n'umweru, hari abantu bagera kuri batanu aho harimo umwana umwe ndetse n'abagore bagera kuri bane, hirya yaho hari inzu iteye amarangi y'umuhondo ndetse n'ibiti bitandukanye bikikije aho hantu.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri biga iby'ubuvuzi, bambaye amatabuririya y'umweru ndetse bakaba bafite utwitwa baji cyangwag se udukarita twerekana imirimo bakora, bahagaze imbere y'icyapa kinini gishushanyijeho abantu ndetse kiriho amabara y'icyatsi n'umweru.

Ihuriro ry'abagore benshi cyane bafite abana babakikiye bamwe babashyize hasi abandi bakibateruye hari umuganga kandi wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa arimo aragerageza gukingira abana abateye urushinge.

Umugore wambaye akenda kajya gusa iroza n ' agatambaro yipfutse mu mutwe, afite ijerekani y'umuhondo n'indi iteretse hasi imwe ari kuyivomera , ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'umutuku undi wambaye ak' umukara karimo amabara y'umweru, bari iruhande rw' iyi robine.

Itsinda ry'abaturage batandukanye bivanzemo abana ndetse n'abantu bakuru, abagore ndetse n'abagabo, bahuriye hamwe mu rugo rw'umuntu rufite inzugi z'imbaho z'amabara y'ubururu bwerurutse cyane, ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ahiye. Harimo abagore bambaye imyenda y'umweru, abipfutse udutambaro tw'umweru, ndetse n'abipfutse udutambaro tw'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahokirira abarwayi baba'aba mama, ndetse n'abana babo harimo umumama wambaye agatenge kiganye amabara y'umuhondo, ndetse n'icyatsi ndetse na ajya gu gusa umutuku harimo mama kandi benshi cyane baterara impinjama, nawe ateruye umwana mutoya cyane utari uruhinja ariko n'tari mukuru wambaye akenda karimo amabara y'umutuku n'umukara afashe kandi igipande yakingirije uyu mwana kimufasha kumuvuza.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima batandukanye barimo abagabo ndetse, n'abagore bafite ibitabo mu ntoki zabo abandi bafite amakaramu barimo kwandika bambaye ibitenge by'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye yiganjemo ubururu bambaye kandi amataburiya y'ubururu bwerurutse aho bose bicaye mucyumba kimwe cyo kwa muganga.

Ku meza manini cyane ari udukombe dutandukanye tw'icyayi hakabaho porojegiteri ndetse n’udusupika dutoya tw'umukara ikikijwe n'abantu benshi cyane barimo abagabo bambaye amashati ajya gusa umweru aya buresiyeri amakote abagore bambaye imyenda itandukanye uwambaye aga ikote k'umukara uwambaye agakanzu kagiye gusa ubururu umuyobozi wabo yicaye mu ntebe nziza cyane nini y'umukara abandi bicaye mu ntebe zifite amabara y'icyatsi.

Abantu babiri barimo umugore wambaye agashati k'umweru, agapfukamunwa ndetse n'ipantaro y'itiriningi y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, afashe ikaramu n'igitabo mu ntoki arimo kwandika, ndetse ukundi kuboko kw'ibumoso afitemo terefone. Yicaranye n'umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru, yambaye kandi ekuteri mu matwi. Ari imbere y'icyapa cyanditse ngo: SIDA iracyahari duhagurukire tuyirwanye.

Umukobwa wambaye akenda kajya gusa move ndetse n'akajipo kajya gusa umukara aricaye, ateretse ijerekani mu ibase, arimo aravoma. Ni ijerekani y'umuhondo ndetse ari ahantu hakikijwe n'imigozi yanikwaho imyenda ndetse n'inyubako yubakishije amabati yashaje. Ari munsi kandi y'igiti cy'ipapayi arimo aravoma amazi.

Agace ko mucyaro kariho umugezi w'amazi ashoka hariho umugore wambaye agapira k'ubururu bwerurutse ipantaro y'umukara ndetse n'udukweto tw'umuhondo n'igitenge mugongo ari kumwe kandi n'umwana wambaye imyenda isa nabi n'udukweto tw'icyatsi iyu mu mama baragerageza kuvoma amazi ashoka aho obateze ikivov kugirango haboneke uburyo amazi aza.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye ku kagari baje mu bikorwa bitandukanye by'ubuvuzi harimo amabara yiganjemo ay'umuhondo ,umweru ,ubururu icyatsi n'ibindi hari imodoka kandi imbere aho ngaho y' ambirasi ishinzwe ubutabazi , amabara y'umweru ndetse ikandikishwaho amabara y'umuhondo imbere hari kandi n'amahema ari iruhande rw'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ku ivomo ryo mu cyaro rizwi nka nayikondo riri mu mabara y'umweru, hahuriye abana batandukanye b'ingeri zose ndetse n'umugabo wambaye agasengeri, karimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hariho abana bafite utujerekani baje kuvoma, undi mwana umwe wambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura k'ikoboyi, arimo aragerageza gukoresha imbaraga agapika icyuma kugira ngo kizamure amazi, uri ku ivomo abona uko avoma.

Mu bitaro byo kwa muganga byita kuba mama ndetse n'ababyeyi bagiye kubyara harimo abaganga babiri umuganga umwe, wambaye akenda kerurutse k'ubururu bwerurutse n'umurwayi wambaye agapfukamunwa uryamye ku gitanda, umumama wundi uri ku ruhande wambaye akenda kameze nk'agasengeri bose bari kugerageza kumva uko umwana mu nda ameze.

Umwana muto cyane uri mu gace k'icyaro wambaye akenda k'igitenge kuririmo mabara y'umutuku n'ubururu bwerurutse wasetse afite agasatsi gake ,yicaye imbere y'umugezi uri kuvamo amazi arimo gukaraba intoki irya kandi hari ikivomesho gisa ubururu ndetse nicy'umuhondo.

Abana b'inshuke bari mu kigero k'imyaka cumi n'itatu gusubiza hasi, bambaye impuzankano za kaki, abandi bambaye utwenda tw'imituku. Bahuriye kuri robine ntoya iri kuvamo amazi. Bari gukomatanira bose kuyakoza mu ntoki zabo.

Mu gace kagaragara nk'icyaro hari inzu yubakisha amatafari ya rukarakara ndetse n'iyindi yubakishije amatafari ahiye n'akabara k'umweru ku gikuta hari umwana ufite utu direde cyangwa se udusuko tw'umukara yambaye agakanzu karimo amabara y'umweru ndetse n’ayandi ajya gusa ikigina afite agacupa kajya gusa ubururu bwerurutse mu ntoki karimo amazi asa nkari kugerageza kuvoma kuri robine.

Ivomero riri mu gace ko mu cyaro rikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye yaba ibirebire ndetse n'ibyatsi bigufiya, ririho imigezi ibiri, ririho umwana kandi wambaye agakabutura k'umutuku ari kunywa amazi hasi hateretse indobo iri kugenda igwamo ayo mazi, hirya yayo hari inyubako ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abana bato cyane b'abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amajipo ajya gusa ibara ry'ivu yambaye kandi udukweto tw'imikara harimo n'uwambaye amasogisi y'umweru aba bana bose bari ahantu hari robine aho bari kugerageza gukaraba amazi ayiturukamo hirya yaho hari ibiti bitandukanye yabay'indabyo ndetse n'ibindi biti birebire cyane.

Ku ivomero ryo mu cyaro rizwi in nka Nayikondo rivomerwaho bisabye imbaraga zo gusunika kugira ngo amazi azamuke avuye mu kuzimu, hariho umumama uri koza indobo ndetse n'umufuniko wayo, ahetse kandi umwana mu gitenge, umugore yambaye agapira k'icyatsi kerurutse ari imbere y'ibiti by'amoko atandukanye.

Ivomero ryo mu cyaro rikikijwe n'ibyatsi bisa icyatsi kijimye cyane n'ibindi bisa nkaho byumye, hari igikuta kandi cyubakishije sima n'inyubako isakaje amabati y'umweru, hari umusaza wambaye ishati irimo utubara tw'umweru n'umukara, ipantaro y'umukara afite ijerekani imbere ya robine ifite imigezi ibiri agiye kuvoma.

Abantu babiri barimo umwana ndetse n'ukuzewe, umwe yambaye agapira kameze nk'agasengeri k'umuhondo, undi mwana nawe yambaye agasengengeri k'umukara, bari ahantu hameze nk'ikiyaga, bafite utujerekani bari kugerageza gucubizamo, bakavoma amazi, hirya yaho bakikijwe n'ibyatsi bitandukanye.

Mu cyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye rusange by'inama hiicayemo abantu batandukanye bavanze abahungu n'abagabo ndetse n'abakobwa cyangwa se abamama, bambaye imyenda y'icyatsi cyijimye yandikishije amagambo y'umweru hakabamo n'umusore wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'umupira w'umweru, bicaye bafite amakayi n'amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa.

Icyumba kigari cyane kiberamo ibiganiro n'inama rusange kirimo abantu batandukanye biganjemo abamama bicaye bameze nk'abakurikiye ibiganiro bikorera muri iki cyumba, kuri buri muntu hari intebe n'akameza kariho amazi yo kunywa, aho bose bambaye amabaji agaragaza igikorwa barimo, hari umugabo kandi munini cyane wambaye imyenda y'ubururu bwijimye, hari kandi n'amakamera ari gufasha gukurikirana igi....

Umugezi wo mu cyaro uzwi nka Nayikondo, ukikijwe n'insina ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, uriho abantu yaba abashungereye ndetse n'abari kuvoma. Hari umwana wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura k'ikoboyi k'ubururu, hari umumama kandi uri gupomba iki cyuma, wambaye agapira k'icyatsi cyijimye ndetse n'agatambaro k'umuhondo mu mutwe, arimo aragerageza gukoresha imbaraga ze ngo asunike iki cyuma bityo amazi ave ikuzimu aze.

Umwana wambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura k'ubururu arimo aragerageza kuvoma afite igikombe kijya gusa umuhondo, yateze kuri robine aho ari robine ziri ku gikuta kijya gusa umukara, icyo gikuta kandi kiriho indi robine ya kabiri uyu mwana arimo aragerageza kuvoma utuzi ngo

Agace kagaragara nk'icyaro karimo abana batandukanye barimo umwana umwe wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura nini cyane y'umukara, afite ikivomesho cy'umweru arimo aravoma amazi kuri robine.

Icyumba kigari cyane kirimo ibara ry'ubururu bwerurutse, kirimo abantu bagera kuri bane, aho harimo umugabo inyuma wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, harimo kandi abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umuhondo n'ibindi. Hari umumama wambaye udukomo ku maboko, ndetse n'agapfukamunwa yikuye, arimo aragerageza gutanga ibitekerezo bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe.

Imodoka nini cyane y'umweru iparitse mu kibuga, hirya yaho hari ihema rinini rikikijwe n'utubara tw'ubururu, icyatsi n'umuhondo ndetse n'umuzindaro wifashishwa mu gusakaza amajwi, hari kandi abantu batandukanye bateraniye aho bari gufata intama ndetse n'imiti bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umumama w'isura y'imibiri yombi, wambaye agakanzu kajya gusa umuhondo, ndetse yiteze agatenge karimo amabara y'icyatsi kijimye ndetse n'utundi tubara tujya gusa nk'ikigina, asa nkuwashariwe cyane ameze nk'umaze kurya tungurusumu ikaba imushariye cyane, birasa nkaho ikintu amaze kurya gisharira, ndetse yakambije agahanga nk'umuntu byaguye nabi.

Umumama wambaye agashati k'igitenge karimo amabara y'icyatsi n'ayandidi ifite ibisuko birebire cyane by'umukara yicaye ku ntebe ifite amabara y'umuhondo n'umutuku. Ari kumwe n'umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'akandi kantu gato kaziritseho k'icyatsi. Bose bari hamwe umumama afite indangururamajwi asa nkaho ari gutanga ubukangurambaga mu kwirinda indwara zitandukanye.

Umurwayi wo mu mutwe, wambaye ibyenda byacikaguritse cyane, ufite ibintu byinshi mu ntoki bidafite ubusobanuro, ari ahantu hamenwa imyanda yose iba yakusanyijwe mu ngo zitandukanye, kandi yisize ibintu byinshi by'umukara mu maso.

Umugabo usa nabi cyane w'igikara afite ubwanwa busa nabi cyane ndetse n'imisatsi ya direde yamukuriyeho, yambaye umwenda usa nk'aho wacikaguritse cyane usa nabi, ahagaze imbere y'inyubako ndetse n'umutaka. uyu mugabo kandi asa nk'aho ari umurwayi wo mu mutwe.

Mu rugo rwo mu cyaro umu mama wambaye agapira kakaki yitwikiriye agatambaro k'umuhondo. Ari kumwe n'abana babiri umwe usa nk'aho akuze, undi ni umwana w'igitambambuga amukenyeje agatambaro kajya gusa move yicaye imbere y'inzu ihomesheje ibyondo n'urugi rw'imbaho afite intara imbere ye ndetse n'ingemeri irimo ibigori.

Umwana muto cyane ufite imisatsi y'ibisuko, wambaye agashati k'umweru n'agakaruvati k'ubururu, n'akabutura k'umukara, yicaye ku ntebe y'umuhondo n'akameza k'umuhondo, afite akabiswi arimo arakarya.

Imodoka y'igikamyo iri mu ibara ry'umweru n'amapine y'umukara iri ahantu mu byatsi hasa nk'aho ari mu kibuga, ndetse hirya yaho hari amatente n'umumama, hagaragara ko habaye ikirori runaka, kuri iyo modoka handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ko ari imurika ku mugaragaro ry'ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe mu karere ka bugesera.

Mu bitaro bivurirwamo abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse no mu bwonko, umuganga uvura indwara zo mu mutwe yicaranye n'umukobwa mutoya wambaye agakanzu karimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwiganje, afite igikinisho cyangwa se agakinisho gatoya kameze nk'intare mu ishusho hanyuma bakaba bicaye begereye ahantu harimo n'utundi dukinisho twerekana abantu.

Umukecuru ushaje cyane yipfutse agatambaro k'umweru mu mutwe yambaye kandi iherena ku gutwi, uyu umukecuru yambaye kandi akanigi mu ijosi kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umusore muremure ufite imisatsi isa nabi cyane yambaye igitenge yikenyeje ndetse n'akandi gatambaro k'umweru. Umusore ufite ibibazo byo mu mutwe by'uburwayi yicaye mu mugende ucamo amazi ari kugerageza gutoratora amashashi n'ibindi byanda biri hirya.

Urugo ruherereye mu gace k'icyaro hari inzu yubakishije amatafari ahiye ya munnyu harimo kandi inzugi zifite amabara y'icyatsi kijimye ikikijwe n'insina ndetse n'ibyatsi bitandukanye hari umukecuru wambaye ishati'igitenge yiganjemo amabara y'umuhondo n'icyatsi ari imbere y'isafuriya arimo arateka hari kandi agakombe karirimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umufuniko w'isafuriya.

Itsinda ry'abana bato cyane bo mu kigero cy'imyaka itanu, itatu, kumanuka, bicaye hamwe bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu bahuriye hamwe gufata inyigisho zitandukanye aho bose bizihiwe.

Umugabo ubyibushye cyane wambaye ikositimu y'umukara n'agashati, ndetse n'ipantaro, afite kandi inkoni mu ntoki ze, imbere ye hari ururabyo runini cyane, hari kandi n'umukoranabushake wambaye imyenda yabugenewe, umugabo agerageza kunamira abapfuye, aho ari imbere y'icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo cyangwa se amazina y'abantu batabarutse.

Umugabo w'igikara cyane, wambaye imyenda icikaguritse ijya gusa umukara, ni umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, afite ishashi ndetse n'uducupa turimo amazi, n'uduti tubiri mu ntoki, ikiguru kimwe cyambaye ibirenge, ikindi cyambaye urukweto rumwe, imbere ye hariho imyanda itandukanye, imbere y'inzu ifite amarangi y'umuhondo yagiye ahongoka.

Itsinda ry'abaganga batandukanye bita ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, bambaye imyenda yiganjemo udupira tw'umweru ndetse amapantaro ya matiriningi y'imikara, bari imbere y'icyapa kinini cyane cy'amabara y'umuhondo, imbere y'inyubako nini izwi nka Ladison, hirya yaho kandi hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Umubyeyi w'umumama wambaye agapfukamunwa ariko atakambaye neza, kariho utugozi dusa umutuku, ndetse n'agapfuka mabara ya buresiyeri cyangwa se ubururu bwerurutse, bicaye mu nzu ihomesheje ibyondo bisa ikigina isa nkaho ariyo mucyaro, akaba se hirya, umwana muto cyane w'umuhungu ndetse n'udahetse amukindikije agatambaro k'umweru, yicaye bose ari kubashigishira agakoma ko kunywa.

Abana batoya cyane bo mu cyaro bambaye utwenda dusa nabi, abambaye udukweto tw'icyatsi ndetse n'udukabutura, agapira kadafunze neza k'umweru, bahagaze ahantu hamwe hasa nk'aho ari mu byatsi, bafashe agafoto bose bishimiye urimo kubafotora.

Umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ndetse n'umupira w'ubururu wijimye, afite agatambaro mu ijosi, ikaramu mutoki, ndetse namo aragerageza gufata ibimenyetso by'umugore wambaye agapfukamunwa ndetse ufite n'umusatsi w'umukara n'agatenge gasa ubururu, agerageza kumugira inama afata ibimenyetso by'uko yaba arwaye indwara zo mu mutwe.

Umurwayi wo mu mutwe wambaye imyenda yacikaguritse cyane ijya gusa umukara, afite ibikapu bibiri bimeze nk'udufuka kame gasa umweruru akandi kajya gusa ikigina, ari mu muhanda imbere y'ikimodoka cy'igikamyo gifite amabara y'umukara ndetse n'amabara y'icyatsi, uyu muntu kandi yisize ibintu by'umukara cyane bimeze nk'irangi bituma atagaragara neza mu maso.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubujyanama buhabwa ababyeyi ndetse n'aba mama benda kubyara. Harimo abamama batandukanye bicaye ku ntebe zegamirwa, aho bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'ay'imituku. Harimo kandi umugabo wambaye agapfukamunwa uri kugerageza kubigisha naho ari umugabo wambaye imyenda iganje amabara y'umweru n'umuku..

Umuma w'imibiri yombi ufite inzara nziza z'umweru, ufite ibisuko by'umukara, wambaye agashati ka buresiyeri, kajya gusa amabara y'ubururu bwerurutse, yunamye asa nkaho ari kuribwa n'umutwe, arimo aragerageza gukanda kugirango ubukana bw'umutwe uri kumurya bworohe.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu bagera kuri batanu, harimo umugabo umwe wambaye agashati ka move ndetse akaba afite icupa ry'amazi imbere ye, ari kumwe n'umumama ufite indangururamajwi ndetse na computer imbere ye ku meza kariho igitambaro cy'umweru, ari kugerageza gutambutsa ubutumwa kubamukurikiye.

Abagore batatu bafite uduti mu ntoki bifashisha barimo gushingura bagenda, umwe muri bo ateruye umwana w'uruhinja urimo konka, aho yamuhekesheje igitambaro kijya gusa umuhondo akaba afite kandi n'agafuka mu ntoki, undi yambaye agapira k'umutuku yikenyeje igitenge cyiganjemo amabara y'ubururu, undi yambaye agapira k'ubururu kerurutse kazwi nka buresiye.

Mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, harimo umwana uryamye hasi ufite umusatsi mwinshi ndetse bamufubikishije agatambaro kari mu ibara ry'icyatsi cyerurutse cyane, afitwe n'umuganga wambaye uturindantoki tw'icyatsi cyerurutse, arimo aragerageza gufasha uyu mwana amukura iryinyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo umuganga wambaye itaburiya ijya gusa ubururu bwerurutse, yambaye kandi uturindantoki tw'ubururu bwerurutse hamwe n'agapfukamunwa ndetse n'agatambaro gapfuka umusatsi mu mutwe. Ari kwita ku murwayi wambaye ishati y'umweru kandi ni umurwayi ufite uruhu rw'umukara. Arimo kugerageza kumufasha mu kanwa yifashishije ibyuma byabugenewe.

Umukobwa wambaye agakanzu k'umweru ufite imisatsi miremire cyane yicaye mucyumba iwe arimo aragerageza kwiborosa cyangwa se koza amenyo ye yifashishije umuti wabugenewe uzwi nka corogati.

Umugabo muremure w'inzobe, wambaye impeta ku rutoki, yambaye umwenda wo kurarana w'umukara, arimo ariborosa, arimo arakura imyanda hagati mu menyo yireba mu kirahure, uyu mugabo kandi ari mu cyumba kirimo amarido y'umutuku, arimo amabara y'umweru ndetse n'akantu bamanikaho imyenda.

Kwa muganga umurwayi wambaye akenda kajya gusa umukara, araryamye ku gitanda aho ari kwitabwaho n'abaganga bagera kuri babiri, bambaye uturindantoki aho bagiye kumukura amenyo.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu bari kumwe n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru bafite ibikoresho bitandukanye yaba ibipima uburebure ndetse n'ibipima ibiro by'umuntu, hariho kandi ihema rirerire ry'umweru ririho ikirango cy'umuntu uri guseka ndetse cyanditseho ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Uburyo bwo kwita ku isuku yo mumenyo. Abana batatu bambaye impuzankano y'ubururu ndetse bafite agasatsi gakeya, nyuma yo kurya bafite uburoso bw'amenyo bamaze koza amenyo bifashishije umuti w'amenyo wabugenewe.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga w'umuzungu wambaye uturindantoki tw'ubururu bwerurutse, afite akantu mu ntoki kifashishwa mu gusukura amenyo, ari kumwe n'umusore ufite ubwanwa bw'umukara, wasetse wambaye agashati kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, uyu musore bari kugerageza kumwereka uburyo yasukura amenyo ye.

Umusore muremure cyane w'imibiri yombi yambaye agapira k'umweru, ufite ishinya y'umukara ahagaze imbere y'igitambaro gisa umuhondo arimo guseka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amarangi y'umweru n'amatara y'umweru yaka cyane, birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi harimo intebe z'imikara zicarwaho n'abaganga, ndetse n'utubati dutandukanye tubikwamo ibikoresho.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'umukara, ndetse umwe akaba yambaye agashati k'umweru, umwe yambaye agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse, ndetse akenda karinda mu mutwe , yambaye kandi uturindantoki tw'umweru, undi ari kugerageza gufasha umurwayi uryamye hasi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi cyerurutse, agapfukamunwa k'icyatsi cyerurutse ndetse na rinete, yambaye uturindantoki kandi mu ntoki ze afite na telefone mu mufuka, agapira k'umweru imbere, ni muganga ari kugerageza gufasha umwana wambaye agapira karimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru n'umukara, ari kumwitaho ku mu kanwa ke ku menyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga gikeya cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye yayo biri mu mabara y'umweru n'ay'ubururu ndetse n'ibindi bikoresho bimeze nka computer birebebwamo imiterere y'umutima w'abarwayi n'ibindi byuma byinshi ni icyumba gisa umweru ndetse kirimo n'ibindi bishushanyo biririmobara y'umuhondo n'utundi tuntu tumeze nk'imitsi.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyita ku bantu barwaye amenyo, harimo umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, agapfukamunwa kajya gusa mu ibara ry'ubururu bwerurutse, yambaye kandi rinenete hejuru ku mutwe zitagera mu maso neza, yambaye itabuririya y'umweru, aryamishije umurwayi ku gitanda kiri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu, arimo aragerageza kumwitaho asa nk'aho amukura amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zita ku buvuzi bwo mu kanwa n'amenyo, kirimo abaganga batandukanye bambaye udupfukamunwa tw'umweru harimo muganga kandi wumugore wambaye itaburiya y'umweru afite ibisuko by'umukara birenzeho utuntu tw'umuhondo wicaye ku ntebe y'umweru, ari kugerageza gufasha umuntu wambaye agasengeri kajye gusa ibara ry'ivu aho ari kumukoza akantu mu kanwa.

Umusore ufite ubwanwa bw'umukara wambaye rinete, yambaye agapira k'umweru k'ingofero ndetse ari gukoza urutoki rwe ku bwanwa bwe. Uyu musore kandi yambaye rinette n'akantu k'agaherena ku zuru, yasetse cyane yerekana isuku y'amenyo.

Ishusho igaragaza mu kanwa h'umuntu aho hagaragara amenyo ndetse n'icyuma cyifashishwa mu kuyakura, ni icyuma kijya gusa umukara, gifite iryinyo muri cyo kimaze gukuka mu kanwa k'umuntu, aho rikiriho amaraso bigaragara ko aribwo bakirikura.

Mu nzu itakishije amabara y'umweru hicayemo umusaza ufite imvi z'umweru wambaye agapira kajya gusa umweru, ari kumwe n'umwana we wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara n'agapira k'umukara mo imbere bose bari guseka kandi uyu musaza yambaye rinete, bicaye bafashe igitabo mu ntoki bari kugisoma imbere yabo hari udukombe tw'amadongo tw'mweru.

Ihuriro ry'abayobozi n'abaturage batandukanye biganjemo abambaye amakositime ndetse n'abambaye imyenda y'imikara, abagore bambaye ibitenge by'ubwoko butandukanye, bari imbere y'ihema ndetse n'ikirango, aho bari gutanga ibikoresho by'insimburangingo ndetse n'ibyifashishwa mu kugenda n'abantu bafite ubumuga bw'ubwoko butandukanye.

Umukecuru wambaye umwenda wi'kigina ufite imvi z'uruyenzi z'umweru cyane, yicaranye n'umukobwa we wambaye umupira w'icyatsi cyijimye cyane, ndetse n'ibisuko bizirikiye hejuru n'turineti, bari kumwe kandi n'umwana ufashe utwatsi mu ntoki, ari mu nzu irimo ibikoresho bitandukanye.

Umusaza wambaye agapira k'ikigina ufite imvi, ari kumwe n'umugabo wambaye agapira kajya gusa nk'ivu, bari mu nyubako isize amarangi y'umweru, uyu mugabo wambaye agapfukamunwa ndetse na rinete n'agashati k'umweru ari kugerageza gufasha umusaza ngo atambuke mu buryo bworoshye.

Icyumba cyo kwa muganga kifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi, bita ku bantu bakuze, harimo umwana uri kumwe n'umubyeyi wambaye agapira k'umukara ndetse n'imvi ziri mu bwanwa, afite kandi kompuyuta ku meza ndetse uyu mwana arimo kugerageza kumuha ibinini.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza, umusaza wambaye akenda k'ubururu bwerurutse, ndetse akagira n'imvi ku mutwe, umukecuru nawe wambaye agapira k'umutuku bicaye ku meza, arimo aragerageza gufasha umusaza kunywa imiti, aho bafite agapapuro kerekana uburyo imiti izajya ifatwa umunsi ku wundi, ndetse n'imiti umusaza ayifashe mu ntoki na mazi yo kuyinywe...

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'amarinete uri guseka cyane ufashe ku cyuma kiri kuri kino gikuta cy'ibitaro, yambaye kandi agashati keza cyane ndetse n'agapantaro kajya gu gusa ikigina, ari kumwe n'umuganga wambaye akenda k'umweru ndetse n'akandi kenda k'ubururu mu imbere arimo aragerageza kumufasha kumenyera kuge...

Abantu babiri bari mu muhanda barimo umugore w'inzobe cyane ufite imisatsi irimo imvi, yambaye agasaha ku kuboko karimo ibara ry'umukara, yambaye kandi agapira k'umweru, ari kumwe n'umugabo wambaye agakabutura k'umukara n'isaha y'umukara ndetse n'agapira kamufashe cyane kajya gusa n'ivu, bose bari mu myitozo ngororamubiri.

Mu cyumba kigari cyane kirimo amabara y'umweru ndetse n'ikigina, harimo ibikoresho bitandukanye, inzugi zifite amabara ajya gusa umukara, harimo umugabo wambaye igitaburiya kinini gisa nk'ivu n'ipantaro y'umutuku, harimo n'umuganga wambaye umwenda w'umukara ndetse n'umweru, urimo utubara tw'umukara n'inkweto z'umweru, uri kugerageza kumufasha kugenda yifashishije icyuma cyabugenewe.

Umusaza n'umukecuru bicaye iruhande rw'ameza atetseho ikirahure ndetse n'ibinini, hateretseho kandi n'akavaze karimo indabyo z'icyatsi, uyu umukecuru ufite imvi z'uruyenzi n'agaherena ku gutwi, ari kumwe n'umu musaza wambaye agapira kajya gusa ubururu bwijimye n'agakomo k'umukara ku kaboko.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akuma gafasha gupima imiterere y'umutima mu ijosi ndetse n'ibisuko byiza cyane bijya gusa ikigina, ari kumwe n'umurwayi we usa nkaho ari kunanura akaboko ngo arebe ko karambuka wambaye agapira k'ubururu.

Umuryango mugari ugizwe n'abana, umukecuru, mama w'abana, ndetse n'abana bakuru n'abatoya, y'ubururu bwerurutse izwi nka buresiyeri ndetse n'igikuta kirimo amabara y'umweru bahuriye hamwe bose bari kwifotoza agafoto abandi basa nk'aho barangariye muri televiziyo.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bambaye imipira y'amatora yiganjemo iy'umutuku ndetse n'umweru imbere hari abakecuru babarangaje imbere bafite imyitero y'umweru ndetse bafite n'udukoni mu ntoki bari kugenda bashingisha kugira ngo babashe kugenda hirya yabo hari umusore wambaye bodaboda z'umuhondo ndetse n'agapira k'umweru.

Umusaza wambaye ishati irimo uturongo tujya gusa umukara, ari kumwe n'umwana we uteruye agapupe cyangwa se agakinisho mu ntoki, na we kandi uyu mwana yambaye agashati karimo uturongo tw'umweru ndetse n'utundi tw'umutuku n'utujya gusa buresiyeri.

Umukobwa wambayekenda k'ubururu bwerurutse cyane yicaranye na mama we wambaye akenda kajya gusa umweru ndetse akaba yambaye n'uturinete bose barimo baraska akaba barishimye aho mama we ari kugerageza gutegura imboga zo guteka bifashishwa mu mafunguro yo kurya hanyuma hakaba hari inyanya, karoti ndetse n'imboga z'ambazi.

Icyumba cyagutse cyane kirimo amarange y'umweru ndetse n'inzugi z'amabara y'ikigina, kirimo kandi supanete y'umweru n'igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hariho umusaza wambaye ishati y'ubururu bwijimye ndetse n'ipantaro ijya gusa nk'ivu, ari kumwe n'umukobwa uri kumufasha kugira ngo abashe guhaguruka neza.

Umuforomokazi wambaye agashati k'ubururu bwerurutse n'imisatsi y'umukara izirikiye inyuma, afite icyuma cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, aho yagishyize ku musaza ku kaboko ke, umusaza wambaye ishati y'umutuku n'ibipesu by'umweru ndetse n'uturinete, afite kandi ubwanwa buriho imvi cyangwag se umweru, bari mu cyumba kandi kirimo amarangi y'umweru ndetse n'itara ryifashishwa mu kumurika...

Mu bitaro byo kwa muganga byita ku bantu bageze mu zabukuru cyangwa bashaje, harimo abantu batandukanye bicaye ku meza, harimo kandi umugabo wicaye mu kagare gafasha abafite ubumuga yambaye akenda k'umuhondo ndetse n'akitero kajya gusa n'ibara ry'ivu ari kumwe n'umuforomokazi ufite akuma gafasha kumva miterere y'umutima.

Umusaza wambaye ishati y'ikigina, agasatsi k'umukara, ipantaro ijya gusa icyatsi cyijimye cyane, yicaye ku ntebe ndetse afite icyuma ku kaboko ke bamushyizeho nk'abaganga kimufasha kumenya uko amaraso n'umutima we bitera.

Umuganga wambaye akenda kamuranga k'ubururu bwerurutse cyane, agapira k'umweru k'amaboko maremare, afite ibisuko kandi by'umukara biryamye, ari kumwe n'umumama ukuze wambaye akenda karimo utubara tw'umweru n'umukara, baragerageza kumufasha baganira bicaye mu nyubako ifite intebe z'umweru.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bwita ku bantu bakuze cyangwa bari mu zabukuru, harimo umukobwa wambaye akenda k'umuhondo ndetse ari imbere y'ameza y'ikigina ateretseho ikirahure kirimo amazi ndetse n'ikayi yo kwandikaho, afite kandi ibinini arimo arandikira umusaza wambaye agapira k'umukara n'uturinete.

Mu cyumba cy'umurwayi kwa muganga, umurwayi wambaye agashati karimo amabara atandukanye, umuhondo, umweru icyatsi ndetse n'ubururu, yambaye agapantaro kandi kajya gusa icyatsi, yicaye mu ntebe izwi nka wiri ceya y'abantu bafite ubumuga, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'icyuma gifasha gupima uko amaraso agenda ndetse n'uko umutima utera arimo aragerageza gufasha uyu murwayi.

Abamama batatu harimo uwambaye umwenda ujya gusa ikigina n'agakanzu k'igitenge, yambaye kandi ingofero y'ubururu bwijimye irimo amabara y'umweru, undi hagati yabo wambaye akenda k'umweru mo hagati ndetse n'umupira w'ikijujuya gusa n'ivu, yambaye uturinete, arimo aragerageza kubereka muri terefone ibintu bitandukanye, hari mugenzi wabo wambaye ingofero y'umutuku, afite ikintu kimeze nka bande mu ntoki.

Mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo imiti harimo umukobwa w'umuganga wambaye agahuzankano kajya gusa ubururu bwerurutse ndetse afite agakarita kerekana akazi akora n'ibisuko by'umukara. Ari kumwe n'umurwayi agerageza kumuha imiti kugira ngo ayinyweshe amazi. Umurwayi wambaye agapira kajya gusa icyatsi cyijimye ndetse akagira n'ubwanwa bw'umweru burimo imvi.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo ubuvuzi buhabwa abakuze ndetse n'abashekanguhe. Harimo umugabo wambaye umupira wa kaki ijya gusa umuhondo. Yambaye kandi ipantaro y'umukara. Yicaye ku gitanda cy'umweru. Inyuma ye hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye. Ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umweru. Afashe akagozi k'umuhondo, barikugerageza gukora imyitozo ngororamubiri.

Umumama asa nkaho akuze wambaye agapantaro k'umukara ndetse akambara agasengeri k'ubururu bwerurutse, ari kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri aho azamura amaboko ye, akayarambura akayakoza ku mano mu cyumba cyiza cyane, yicaye ku gakeka gafite ibara risa n'ikijuju cyangwa se ivu, hirya ye hari itara ryiza cyane ndetse n'igiti cy'ururabyo hari kandi n'igitanda gifite isaso ryijya gusa umweru.

Isoko ry'imboga n'imbuto ririmo abagore batandukanye bambaye ibitenge byiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu. Bicaye imbere y'ibitebo birimo inyanya, inyuma yaho harimo ibindi bitebo birimo imbuto nk'amarongi, imyembe n'ibindi.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse n'akabaji kerekana ibyo akora, ku mufuka w'ishati yambaye ndetse n'agapira k'umweru mu imbere, ari kumwe n'umugabo usa nkaho ari umurwayi, bari kuganira mu cyumba cy'abarwayi, basa nkaho bishimye kuko umurwayi amaze gukira.

Umuforomokazi mu busitani bwuzuyemo ibiti bitandukanye by'amoko birimo iby'imbuto ndetse n'indabyo. Hirya yaho hari inyubako. Arikumwe n'umurwayi bisa nkaho arimo kumupima umutima cyangwa se umuvuduko, ndetse bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo umurwayi atanduza umuforomokazi indwara.

Mu cyumba gikorerwamo siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri kizwi nka jimu, harimo umumama wambaye akenda k'iroza ndetse ufite umusatsi bisa nk'aho ari imvi, aryamye cyangwa se ashinze inkokora ze, uri gukora siporo ku gatapi kajya gusa buresiyeli, cyangwa se ibara ry'ubururu bwerurutse cyane, arimo aragerageza gukora siporo zizwi nka pompaje.

Umukorerabushake wabihuguriwe wambaye agapfukamunwa kajya gusa n' umweru, ndetse n'ingofero imeze nk'iy'abayisilamu arimo aragerageza gufasha umusore wambaye akenda kajya gusa n' ubururu ndetse n'agapfukamunwa kumutera urushinge rurinda covid cumi ni'cyenda.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bambaye imyenda y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, harimo abagore n'abagabo bose basa nkabahuriye mu nama yiga kubazo bitandukanye, bari imbere ya ekara nini.

Itsinda ry'impuguke ebyiri z'abaganga bambaye imyenda iririmo ibara ry'ubururu bwerurutse cyane udupfukamunwa ndetse n'uturinda kuba hagwa imyanda umutwe, bafite kandi umurwayi imbere yabo wambaye imyenda y'imikara ndetse n'akagofero k'ubururu arimo kugerageza kumuha serivisi z'ubuvuzi.

Itsinda ry'abantu bari mu rusengero, barimo gusenga hifashishijwe uburyo bwo gushyiramo metero, kugira ngo hirindwe indwara zandura, harimo kandi abashinzwe kwita kurizi gahunda ku zigenda nez,a harimo umuganga wambaye uturindantoki ndetse ufite umuti wo gukaraba intoki imbere ye , n'ibikoresho bitandukanye ari kugerageza gupima abantu ndetse akanabaha umuti ngo bakarabe.

Mu cyumba kigari cyane gikorwamo inama rusange harimo abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara, amashati y'umweru ndetse na za karuvati. Bafite utumiKorofone kandi tubafasha gutambutsa ubutumwa. Ndetse kandi aho bari hari amatelefoni bari kwifashisha basomamo ibyo babwira abantu. Bari imbere y'icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, yanditse ngo stop the marburg bisobanura guhagarika virusi ya mariburu.

Mu cyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abarwayi batandukanye n'indwara zitandukanye, harimo abaganga babiri, umuganga umwe yambaye imyenda y'ubururu bwerurutse yambarwa n'abaganga bose, yambaye kandi uturindantoki tumurinda kwandura indwara zitandukanye z'abarwayi aba kwitaho, afite icyuma mu ntoki aho ari kugerageza kwita ku murwayi uryamye ku gitanda.

Icyapa cyiri mumabara y'umutuku ndetse n'ay'ubururu bwerurutse kikaba gisa umweru kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yose hamwe afite intego yo kwigisha abantu kwirinda ndetse no kurinda abana virusi itera sida.

Ishusho nini cyane iri mu mabara y'umweru, yanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi cyijimye, bisobanura umunsi wahariwe kurwanya diyabete, hashushanyijeho kandi umuntu wambaye akenda k'umutuku ndetse n'ak'ubururu, hari inyubako kandi iri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu batatu barimo babiri bambaye udupfukamunwa, undi wambaye agashati karimo amabara y'umweru n'umuhondo, harimo kandi n'umuganga uri kugerageza gutera urushinge umugore wicaye wambaye agashati k'umweru n'Uturinete ndetse yambaye n'agapfukamunwa, bari kumukoraho agataka bisa nk'aho ari kuribwa.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamamo abarwayi bafite indwara zitandukanye, harimo icyapa cy'amabara y'umweru n'icyatsi kigaragaza aho umuntu anyura azamuka anamanuka harimo abaganga batandukanye bambaye imyenda y'ubururu bwerurutse cyane n'utupfukamunwa harimo kandi n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'aba.

Ubusitani bugari cyane burimo ibyatsi bya pasiparume bisa icyatsi cyijimye cyane ndetse n'ibiti bitandukanye hamanitsemo idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda rishinze kugati k'umweru, hirya yaho inyubako zitagaragara cyane zubakishije ibikuta biriho amabara y'umweru, hino kandi hari inyubako nini cyane irimo amabara asa n'ikijiju cyangwa se ivu.

Icyumba kinini cyane kirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, giteyemo intebe ziri mu ibara ry'umukara zitondekanyije, icyumba kandi kinini cyane kirimo ibipirizo, by'umweru ndetse n'ubururu, gihari byerekana ko hakorerwa ubuvuzi bw'amaso.

Icyumba cyo kwa muganga kinini cyane cyagutse kiri mu mabara y'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, bukiriho kandi intebe zicarwaho n'abaganga ndetse n'umurwayi ziri mu mabara y'icyatsi kijya kwijima cyane kikenda gusa n'ubururu, hejuru yayo kandi hari televiziyo yifashishwa mu kureba amakuru.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo isuzumiro ry'ibizamini bitandukanye ikikijwe n'indabyo z'ubwoko butandukanye ziri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, hari abantu bicaye ku gatebe aho ngaho barimo abagore bambaye imyenda y'ibitenge, icy'umuhondo n'undi witeza agatambaro k'umweru mu mutwe inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitandukanye yaba iby'imbuto ndetse n'indabyo, harimo utuyira twiza cyane turi mabara y'umweru n'umukara dukoresheje amapafe, hirya yayo hari ibigega by'umukara bigera kuri bine ndetse n'inyubako iriho ibyuma bijya gusa bisa icyatsi ndetse yubakishije amatafari ahiye ndetse hariho n'amabara y'umweru ku mpande z'ibikuta by'iyi nzu.

Inyubako ngari cyane zubakishije amatafari y'umuhondo ya munyo, ndetse n'izindi zubatse mu ibara rijya gusa nk'ivu, hari kandi ubusitani imbere yayo buteyemo ibiti bitandukanye ndetse n'utuyira twiyizengurutse twubakishije amapave ndetse na sima.

Ubusitani bw'indabyo zitandukanye zirimo izifite uturabyo tw'umutuku ndetse n'umuhondo, mbere yaho hari akayira gakoze muri kaburimbo cyangwa se kubakishije sima. Hari inyubako kandi yubakishije amabuye, ifite amadirishya y'ibirahure bibonerana, ndetse ikaba ifite n'amabara y'umweru ku ruhande. Hahuriye abantu imbere yayo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako ngari cyane irimo ibikoresho bitandukanye, ikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye, harimo intebe z'amabara y'umweru wijimye ndetse n'ibikuta bisize amarange.

Inyubako ngari cyane ikorerwamo ubuvuzi butandukanye mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye. Imbere yayo hari abantu batandukanye bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'imikara ndetse n'amakoboyi bafite utuntu mu ntoki turimo imiti itandukanye n'ibikoresho bitandukanye.

Inyubako ngari cyane iri mu busitani burimo ibyatsi bitandukanye, hashizemo kandi ibiti biriho amatara y'umuriro. Harimo kandi amabara y'umweru kuri iyi nzu ndetse n'amabara y'ikigina. Ni inyubako ngari cyane ifite ibyumba bitandukanye, bifite kandi andi mabara y'ubururu ku nzugi.

Icyumba cyo kwa muganga hazwi nk'ahatangirwa ubuvuzi bw'amaso, hashushanyijemo ubwoko bw'amaso atandukanye yerekana uburwayi ijisho rishobora kugira, harimo ibikoresho kandi bitandukanye byifashishwa mu gufasha aba barwayi, harimo intebe ziganje mu mabara icyatsi cyerurutse ndetse n'icyijimye kandi hariho intebe zicaraho abayobozi ndetse na kompiyuta ku meza.

Icyumba cy'abarwayi kwa muganga kirimo ibitanda bigera kuri bibiri ndetse n'akameza baterekaho imiti ya muganga, harimo ibitanda kandi biri mu mabara y'umweru, ndetse inyuma kukuma gatuma umurwayi atagwa hariho amabara y'ubururu.

Icyumba kinini cyo kwa muganga mu bitaro bigezweho binini cyane, aho harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi. Ni icyumba kirimo amabara y'umweru ndetse n'andi mabara ajya gusa icyatsi n'ikigina, atandukanye. Aho bigaragara ko hari umurwayi uryamye ku gitanda gihari uri kuvurwa igikomere afite mu gahanga.

Umuforomokazi wambaye itaburiya ijya gusa ubururu ndetse n'ibisuko by'umukara wizirikije akabano kajya gusa ubururu bwerurutse arimo kwita murwayi uryamye ku gitanda kirimo amabara y'umweru ari kugerageza kumushyiraho akazwi nka serumu kugira ngo gakomeze kumwongerera imiti mu mubiri we.

Inyubako nini cyane iri mu ibara ry'umweru ndetse yandikishijeho amagambo y'umukara, ninyubako yita ku buvuzi bw'abantu bakuze, imbere yaho hari umukobwa wambaye agakanzu k'umuhondo ndetse ufite imisatsi y'imikara.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubuvuzi isakaje amabati y'ubururu afite ibikuta kandi byubururu bwerurutse, byiganjemo amabara y'umukara, hari abagabo batandukanye bahagaze ahinjirirwa bambaye amakoti y'imikara n'amashati y'umweru imbere yaho kandi haparitse imodoka nziza cyane iri mu ibara rya kaki.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umukara, kiriho amagambo yanditse ngo Kabgayi hospital cyangwa se ibitaro bya Kabgayi, aho imbere harimo ibiti bitandukanye ndetse n'amazu atandukanye akorerwamo ubwo buvuzi, harimo abantu bahagazemo ndetse n'undi mugabo utwaye igare iriho ikintu.

Ifoto yerekana ibyuma by'amadirishya bizwi nka giriyaje biri mu mabara y'umweru, ndetse hirya yaho harimo inzu ebyiri, imwe nini yubakishije amatafari ndetse ifite amabati y'ubururu, ifite inkingi zirimo amabara y'ikigina ndetse n'umweru. Hirya hari akandi kazu gato gafite amabati ashaje y'umutuku ndetse n'ikigega, ako kazu kaba gafite inzugi z'ubururu kandi kubabakishije amatafari ahiye.

Inyubako nini cyane, isakaje amabati ajya gusa nk'amategura, ibikuta biyikikije, birimo amabara y'umutuku, ndetse ikaba ifite inkingi z'umweru, imbere yaho hari abantu benshi bisa nkaho baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, mbere yaho kandi hari icyapa cyanditseho ngo Centre de Sante Gisenyi, bigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi, hari abantu kandi bari mu mihanda, batwaye amagare, bayicayeho, batarahaguruka ngo bagende.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, yaba ibitanda ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura abarwayi, kiri mu mabara y'umweru gifite kandi amadirishya n'inzugi by'imikara, harimo umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agapantaro k'umukara, haryamyemo kandi umurwayi, aho afite serumu cyangwag se icyifashishwa mu kongerera imiti mu mubiri we bitanyuze mu kanwa.

Inzu yo kwa muganga irimo ibyuma bitandukanye, byifashishwa mu gutanga umuriro, ibindi bikifashishwa mu gutanga umwuka uhumekwa, hari ibyuma biri mu mabara y'umweru, hakaba ndetse n'amacupa abikwamo gaze, ari mu ibara ry'ubururu, akikijweho utuntu tw'udupapuro tw'umweru, turimo amagambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane y'amagorofa abiri yandikishijeho amabara y'icyatsi kibisi, igaragaza ko ari inzu ipimirwamo cyangwa se ivurirwamo ababyeyi n'impinja. Ni nzu isakaje amabati atagaragara neza, ndetse ikaba ifite utwuma two kuruhande dutuma abantu batagwa tw'umweruru. Ndetse akaba ari nzu ifite amadirishya y'umweru n'ibikuta biririmo amarangi ajya gusa umuhondo.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubuvuzi, iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ifite amadirishya afite ibirahure by'umukara. Harimo umuganga wambaye ishati y'umweru y'itaburiya ndetse n'agapfukamuwa k'umweru, ipantaro y'ikoboye y'ubururu. Hari aho banyura bagenda. Ni inzu iriho icyapa cyanditseho materineti bisobanura icyumba kibyariramo ababyeyi cyita ku babyeyi.

Inyubako ndende cyane y'amagorofa atatu yubakishije amatafari ya munyu. Ifite icyapa kinini cyane cy'amabara y'umweru cyanditseho n'amagambo y'icyatsi cyijimye. Imbere yayo hari amamodoka agera kuri ane yo mu bwoko bwa vatiri aparitse aho ngaho hirya yaho kandi hari umutaka w'umwageti cyangwa se umucuruzi wa Emutiyeni. Hari n'ibiti kandi bitandukanye bikikije iyi nyubako.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga kirimo amarangi y'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse. Kirimo ibitanda bigera kuri bine, byose nta murwayi ubiriho bigiye bishashe neza; birimo ibitambaro bijya gusa icyatsi cyijimye, ndetse n'utwuma dutangira umuntu ngo atagwa, turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse.

Inyubako ngari cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hasi hariho itapi isa ubururu bwerurutse inyubako kandi mu mabara y'umweru. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri yaba ibyo banyonga nk'amagare, ibyo bicaraho ndetse n'ibyo bakoreraho siporo zo kwiruka.

Icyumba cyo kwa muganga cyagutse cyane kirimo ibikoresho bitandukanye yaba byifashishwa mu kuvura ndetse n'ibifasha umurwayi kumera neza, hari igitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'ibyuma bijya gusa umweru, hariho kandi amashusho atandukanye ari mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kigari cyane kirimo amabara y'umweru ku bikuta, gifite kandi amatara yaka umweru, gifite amarido ajya gusa ikigina ndetse n'urundi ruhande rwo hepfo ruriho ibara ry'ubururu bwerurutse, iki cyumba kirimo ibitanda bitandukanye biryamaho abarwayi igihe bari guhabwa ubuvuzi ku ndwara zitandu.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho bita ku bana ndetse na ba mama wabo, umuganga wambaye iaburiya y'umweru ndetse n'akarindamunwa cyangwa se agapfukamunwa, yambaye kandi akagofero kajya gusa ubururu bwererutse mu mutwe, yambaye n'amarinete. Ari kugerageza gufasha uruhinja rwambaye imyenda y'umweru n'akagofero k'umweru, na mama we ufite ubwuzu bwinshi cyane, ndetse akaba yambaye agasengeri k'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byiganje mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bwererutse, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kugerageza gusasa neza igitanda umurwayi aryamaho yarimo aca mu cyuma.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi ndetse n'umuganga wambaye agashati k'umweru, ndetse ni baji yerekana akazi akora. Yambaye uturindantoki tw'umweruru arimo aratera urushinge umurwayi wambaye agasengeri k'umweru. Hirya birasa nk 'aho hari intebe y'umweru yegamirwa ndetse n'abandi barwayi batandukanye bagaragazwa n'amaboko yabo.

Inyubako ndende iri mu mabara ajya gusa umuhondo ndetse n'icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru n'icyatsi, cyanditseho amagambo avuga ngo: "PENIEL PHARMACY", bigaragara ko ari ahantu hacururizwa imiti. Hasi yaho handitse amagambo ari mu mabara y'umutuku avuga ati: "Dukorana na MEDIPLAN na RAMA (RSSB) MS-UR n'ibindi. Imbere yaho haparitse moto ndetse n'umuntu wambaye agapira k'umweru.

Inyubako ndende cyane yo kwa muganga irimo amabara yajya gusa umweru ndetse nay'ubururu bwerurutse cyane azwi nka burusiyeri. amadirishya yo hejuru y'umukara ndetse n'utundi tw'umweru, hasi harimo ibyumba bitandukanye bigaragaramo abaganga bari gufasha abarwayi, n'abandi bantu bahagaze hanze. Umubyeyi umwe ateruye akana ndetse n'undi mu papa wifashe mu gatuza wambaye ishati ijya gusa umukara mu masaha ya nijoro.

Inyubako zitandukanye nini cyane, harimo zimwe zubatswe mu buryo buzengurutse bumeze nk'ikigega, gifite amabara ya oranje cyangwa se umuhondo mwinshi ndetse n'amabara ameze nk'ivu, harimo kandi amadirishya afite ibirahuri by'umukara, harimo inzu kandi yubakishije amatafari yo gusa umuhondo azwi nka ruriba, mbere iyo nyubako hari utuyira dutandukanye twubakishije amapave ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Akabati kanini cyane karimo ibyumba bitandukanye, ni akabati kabikwamo imiti y'ubwoko bwose, yaba imita isukika ndetse n'iy'ibinini, ni akabati kandi kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye ku gice cyo hejuru.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru irimo utubara tw'ubururu yambaye uturindantoki ndetse n'agakoma ku kaboko, ari mu cyumba cy'umurwayi uryamye ku gitanda yatwikirije akenda kajya gusa ubururu bwerurutse arimo aragerageza kumufasha kugira ngo yumve uko ubuzima bwe.

Icyumba kigari cyane cyo kwa muganga kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, yaba ibyuma byifashishwa mu buvuzi, ibitanda biryamaho abaganga n'ibindi bigiye bitandukanye n'icyumba kandi kirimo itapi y'ubururu bwerurutse.

Inyubako ndende cyane isakaje amabati y'umutuku, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse akaba ari mu mabara y'ubururu. Ifite amadirishya n'inzugi bi by'amabara y'umweru, ndetse imbere yayo hateretse amavaze arimo indabyo, ikikijwe kandi n'ubusitani bw'ibiti bitandukanye imikindo, ndetse n'izindi ndabyo, imbere yaho kandi hari akayira gakoresheje amapave

Inyubako nini iri mu mabara y'umweru ndetse yiganjemo ibyapa biri mu mabara y'icyatsi ndetse byandikishijemo amagambo y'umweru, inyuma yaho kandi hari ibiti bitandukanye ndetse haparitse imodoka na moto, ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti izwi nka forumasi, aho harimo abantu baje kwaka serivisi ndetse no kugura imiti, harimo umumama ufite agatambaro k'umweru.

Ububiko bwagutse cyane bw'imiti itandukanye buzwi nka farumasi, buri mu mabara ajya gusa umweru ndetse n'andi ajya gusa nk'ivu cyangwa se ikijuju, harimo uducupa dutandukanye dupfundikije imifuniko y'umutuku ndetse n'utundi dupfundikije imifuniko y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gisa umweru cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye, yaba ibikoresho bamanikaho, ibyo bari gukorera ubushakashatsi ndetse n'ibindi harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki dusa ubururu bwerurutse.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Ruhengeri, ni icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu n'amagambo agaragaza ibyo bitaro yanditse mu mabara y'ubururu, hirya y'aho hari inzu nini cyane zigaragara ko ari nk'ibitaro, ndetse hirya y'aho hari abantu batandukanye urujya n'uruza rwabo bagenda basa nkaho bajya kwivuza abandi bajya mu bikorwa bitandukanye.

Itsinda ry'abaforomo batatu bambaye udushati tw'ubururu ndetse n'utugofero tujya gusa umweru bose hamwe bahagaze mu busitani iruhande rw'umuhanda w'igitaka akikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye yaba ibivamo imbuto, imikindo n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'indabyo ziririmo mu mabara y'umuhondo n'icyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye, yubakishije amatafari ahiye ndetse iteye amarangi y'mweru, kuri iyo nzu handikishijeho amagambo yanditseho ibara ry'umukara avuga ngo ikigo nderabuzima cya Rwerereye.

Inyubako ziri ku murongo zo kwa muganga ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo mu masaha y'ijoro. Hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye ndetse n'igiti kinini cyane kirekire kiri hagati y'izo nyubako. Hari icyapa kandi kiri mu mabara y'icyatsi, ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo cyandikishijemo amagambo ari mu mabara y'umwe...

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu bwerurutse, kirimo ibitanda bitandukanye biryamaho abarwayi kandi harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutwara imiti. Harimo umuganga wambaye imyenda y'cyatsi cyijimye ndetse n'ibisuko by'umukara cyane urimo kugenda.

Icyumba k'imbere mu nyubako zo kwa muganga mu bitaro kirimo amabara y'umweru ndetse n'amabara atandukanye ajya gusa umuhondo, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'abantu aho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo kandi ikimeze nka televiziyo kifashishwa mu kureba umuntu umaze guca mu cyuma.

Icyumba cy'abarwayi cy'isuzumiro cyo kwa muganga kirimo abaganga bagera kuri batatu bambaye imyenda y'impuzankano y'umweru, ndetse n'utubaji twerekana akazi bakora. Bafite amakaramu mu ntoki, bari kumwe n'umurwayi, bambaye akenda k'umweru ndetse n'umurwaza we uri ku ruhande rwe uri kugenda agerageza gutanga ibimenyetso. Ku meza bari kwandikiraho hariho agatambaro k'umweru, ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, ndetse na sanitayiza cyangwa se umuti wica mikorobe muhanda.

Icyumba cyo kwa muganga cyiganjemo amabara y'umweru ndetse n'amarido y'umukara, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi, harimo kandi ibitanda biryamwaho n'abarwayi batandukanye.

Inyubako ngari cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri izwi nka jimu iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, inyubako kandi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye yaba ibyifashishwa nk'amagare banyonga, ibyo banyuraho birukanka ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibyuma by'amadirishya bisize amabara y'umweru, hirya yaho hari kugaragara inzu yubakishije amatafari ahiye ya mpunnyu ifite amadirishya y'umweru ndetse n'inkingi zisize amarangi y'umweru n'umukara, hari inzu zimeze nk'ibikoni na toilette imwe yubakishije amatafari ahiye n'umuryango wamabara y'ubururu bwijimye ndetse n'akandi kazu gato kayegereye gasize irangi ry'ubururu.

inyubako ndende cyane y'igorofa ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahure by'ubururu hejuru handikishijeho amagambo ari mui ibara ry'icyatsi ndetse n'ayandi hasi ari mu ibara ry'icyatsi ni inzu ikoreramo ubuvuzi butandukanye bw'indwara zitandukanye mbere y'hateye ibiti by'imikindo

Icyumba kigari cyo kwa muganga, gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo amabara y'umweru ndetse n'imeza nini cyane y'umutuku, hicayeho umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, afite mudasobwa mu ntoki ye, afite n'indi mudasobwa nini cyane, iri imbere ye, arimo arareba ishusho y'imbavu z'umuntu nyuma yo guca mu cyuma.

Inyubako ndende cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, inyubako iriho amagiriyaje cyangwa se amadirishya arimo ibirahuri by'umukara ndetse n'amabara y'ubururu bwijimye cyane, hari kandi ubusitani burimo pasuparume ndetse n'amapave hakaba icyapa kinini cyane cyanditse mu magambo y'umweru ndetse n'amabara y'umutuku.

Icyumba kigari cyane kiryamamo abarwayi bo kwa muganga, kirimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse aho harimo amarido ajya gusa ubururu bwerurutse ndetse na supunete cyangwa se inzitiramibu z'umweru, harimo ibitanda byinshi cyane bitandukanyijwe n'ikintu kimeze nk'urubaho ruri mu ibara ry'ikigina, aho ibyo bitanda biri mu mabara y'umweru ndetse n'utuntu tw'ubururu tubikikije.

Icyumba kimwe mu nyubako yo kwa muganga, gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kirimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, harimo kandi abaganga bagera kuri bane bambaye amataburiya y'umweru n'udupira tw'umukara kuri bamwe.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'ay'ikigina irimo imiryango igiye itandukanye, bisa nkaho ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, hasi yaho hari tapi ijya gusa umuhondo ariko inzu yose nta muntu urimo, birasa nkaho irimo imiryango irenga makumyabiri.

Inyubako nini cyane yubakishije amabuye asa n'ivu iriho inkingi zitandukanye ziri mu ibara ry'kigina ndetse nd n'amadirishya ari mu ibara ry'ikigina, ni inzu iri mu ubusitani bw'ubururu, ahantu hasa nkaho hakikijwe n'imisozi, harimo abantu babiri bambaye imyenda irimo udushati tw'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo kandi umugabo uryamyemo wambaye agapfukamunwa, ikabutura ndetse n'umupira, ari kugerageza gufashwa n'ibyuma bizwi nka serumu binyuzwamo imiti ivura abarwayi, hateretsemo kandi utujerekani turimo imiti itandukanye

Mu ishuri ririmo abantu bagera kuri batandatu, harimo umwana wambaye agashati kajya gusa icyatsi, afashe ibintu bibiri bigaragaza nk'igihanga cy'umuntu kiriho amenyo, mwarimu wambaye itaburiya iriho ikirangantego cya kaminuza y'u Rwanda ndetse n'agapfukamunwa, afite uburoso mu ntoki, ari kugerageza kumufasha kwiga uko baborosa amenyo. Hari kandi abagabo bandi bahagaze aho ngaho, umwe wambaye ikote ry'ikigina.

Icyumba kinini cyane cyo kwa muganga, giteye amarangi y'umweru, kiriho ibyapa bitandukanye bigiye biri ku nkuta, ifite amadirishya y'ibirahure bibonerana, harimo ibyapa kandi by'amabara y'ubururu n'icyatsi kijimye cyane, harimo kandi amagambo y'umweru agaragaza ko ari icyumba kivurirwamo indembe.

Inyubako iteye amarangi y'umweru ndende cyane, ifite amadirishya y'ibirahure bibonerana, inyubako iriho icyapa cyandikishije amagambo y'umukara yanditsemo ngo kaminuza nkuru y'u Rwanda, kirimo ibiti bitandukanye mu busitani harimo kandi inzira zubakishije amatafari ahiye ya mpunyu, harimo abantu bambaye amashati y'umutuku ndetse n'amapantaro y'imikara.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba iriho inzugi z'amabara y'ikigina n'amadirishya y'amabara y'ikigina isakaje amabati y'ubururu rwerurutse, hirya yayo hariyo inzu ishakaje amabati y'umutuku ndetse n'ibigega by'umukara, ikikijwe n'indabyo zitandukanye mu busitani bwayo ndetse n'akayira kayinjiramo gakoresheje beto, inyubako yanditseho amagambo y'umukara asobanura ko ari Isange Wani Stopu Senta.

Inyubako ngari cyane ifite imiryango igera kuri ine, irimo amabara y'icyatsi cyijimye cyane ndetse n'ibirahure bibonerana, ni inyubako ifite icyapa cy'amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi cyijimye, yanditseho farumasi aho hagurishirizwamo imiti y'ubwoko butandukanye.

Umuntu wicaye mu ntebe z'imifariso zisa umweru, yambaye ipantaro y'ikoboyi irimo ubururu bwererutse, afatishije ukuboko kwe kw'iburyo ku kaguru ndetse n'ukw'ibumoso gufashe akantu k'ubururu, ari gukandisha ku kaguru ke k'ibumoso.

Umukobwa w'inzobe wazamuye amaboko imbere y'icyapa kiri mu mabara y'ubururu bwerurutse, afite umusatsi uzirikishije agatambaro gatukura, umusatsi w'umukara w'ibisuko. Afite kandi akandi gatambaro kaziritse ku mutwe we k'umukara.

Umukobwa wicaye mu nzu wambaye imyenda yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, imyenda isa umukara ndetse n'ibisuko birebire, yicaye mu ntebe y'umufariso iriho n'ishuka imbere ye hari amazi bisa nk'aho ayifashisha iyo agize umwuma ari muri iki gikorwa cye cya siporo maze igikorwa kikagenda neza.

Umusore muremure cyane w'ibigango, wambaye agapira k'umukara karimo uturongo tw'umutuku cyangwa se tujya gusa na oranje, yagerageje gushyira ukuboko kumwe inyuma, ukundi gushyigikiye uko yashyize inyuma, ari gukora imyitozo ngororamubiri, umusore wiyogoshesheje inyogosho zigezweho.

Umusore w'ibigango wicaye iruhande rw'indabyo wambaye inkweto zijya gusa umukara, munsi yazo zirimo utuntu tw'umweru, yambaye agapira k'umuhondo karimo amagambo yandikishije amabara y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugerageza gufata amaboko akagerageza kuyafatisha ku kirenge cye akandi kaguru k'ibumoso gahinnye.

Akaboko k'umuntu usa nk'aho yirabura, kariho umupira ujya gusa umweru ndetse n'ibiganza, ikiganza cye kiriho intoki eshanu nk'uko ziba zuzuye, gifashe ku kandi kaboko cyifashishije akantu k'agatambaro kajya gusa ubururu.

Icupa rinini cyane ripfundikije agafuniko k'ubururu ndetse naryo rikaba risa ubururu, iri cupa kandi riri hagati mu mazi ari mu ibasi aho barijugunyemo amazi akagerageza gutaruka.

Igikapu kinini kiri mu ibara ry'umutuku gifite imishumi y'umukara, kirimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, irimo imiti yifashishwa mu kuvura imvune ndetse n'ibisebe byagaragaye, yavunikiye mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, harimo serumu, inshinge n'ibindi bitandukanye.

Imbere y'ikibuga gikinirwaho umukino wa cricket, hari umumama wambaye agapira k'umukara karimo ibara ry'umuhondo, yambaye kandi agapfukamunwa k'ubururu bwijimye, yambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso, ahetse kandi agakapu k'umukara, afite inzara ziriho amabara y'umutuku. Uyu mumama ari kugerageza gufasha umusore ugiriye imvune mu mukino wa cricket.

Umukobwa wambaye udukweto tw'umuhondo dufungishije race z'umukara, muremure cyane, wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agapira kajya gusa umutuku, yambaye agasaha kandi arunamye, arimo aragerageza gukora siporo ngororamubiri mu masaha y'umugoroba.

Igikoresho kimeze nk'urukweto giforumye mu buryo bw'akaguru k'umuntu ni igikoresho kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru wijimye cyane cyangwa se kijya gusa n'ivu, iki gikoresho kikaba cyifashishwa mu gufasha umurwayi waba yagize ikibazo cy'imvune mu kaguru kugira ngo abashe kugenda neza.

Umumama w'imibiri yombi wambaye agashati kajya gusa umweru ndetse n'agashanete kajya gusa umweru mu ijosi rye, yambaye kandi impeta ku rutoki, aho afashe agatambaro k'ubururu ari kugafatisha ku kaboko ke k'ibumoso.

Umusore wibigango wambaye imyenda agakabutura k'umukara ndetse n'agapira kajya gusa umukara yapfukamye hasi yarambuye akaguru kamwe k'iburyo akandi k'ibumoso asa nkaho agakandagira agashimishije abanza akandi akaboko k'ibumoso akandi k, iburyo asa nk'ugahina agafatisha kw,itako arimo arakora imyitozo ngororamubiri mu cyumba cyabugenewe.

Umusore wambaye itiriningi y'umukara ndetse n'agapira k'umukara, karimo amabara y'umweru n'inkweto z'umukara zirimo utubara dukeya tw'umweru, ari kumwe na mugenzi we uri kumufasha gukora siporo, aho umusore ari kujya amanuka akongera akazamuka, ahantu mu kibuga kirimo itapi ijya gusa icyatsi kijimye, ndetse n'imirongo y'umweru. Hirya kandi hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngoror...

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zifashishwa mu kurya igihe umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri zirimo amaronji ,imineke ,pome ,amatunda ,imyembe ,avoka n'ibindi ,hari ibikoresho kandi byifashishwa mu guterura ibyuma aho umuntu abakora umubiri ukomeye harimo imidari, ibinini ndetse n'amazi umuntu yanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye ipantaro y'igitare n'akenda k'ubururu bwijimye karimo utubara tw'umweru, yambaye kandi isaha y'umukara ku kaboko, arimo arazirika agatambaro gatoya kazwi nka bande ku kaguru k'umukobwa wavunitse w'inzobe, wambaye urukweto rwa supuresi ruri mu mabara y'umweru, ubururu bwerurutse n'ibindi. Hirya kandi y'umugore wicaye ku buriri bw...

Umugabo muremure w'igikara wambaye agapira k'umukara karimo utubara t'umweru, amaze gukora imyitozo ngororamubiri nubwo afite ibigango bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri igihe kirekire. Afite icupa ry'amazi rinini arimo arayanywa anayimena mu maso.

Umugabo muremure ubyibushye w'uruhu rwirabura wambaye agapira kamwegereye kari mu ibara rijya gusa n'ivu ari umuhanda nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri afashe icupa ry'ubururu mu ntoki ze arimo aranywa amazi.

Umusore muremure cyane w'ibigango ufite amaboko abyibushye n'igikanu kibyibushye, afite ubwanwa bw'umukara cyane bukeya. Yambaye kandi agasengeri k'ubururu bwijimye, ari amaze gukora siporo ngororamubiri aho ari kunywa amazi.

Itsinda ry'ibikoresho byifashishwa mu kuvura ubuvuzi bukorerwa mu myitozo ngororamubiri, aho harimo ibyitwa bandeji byifashishwa mu kuzirika umuntu wakomeretse cyangwa se wavunitse, ibipfuko bitandukanye ndetse n'imiti yomora ibikomere ndetse n'imiti ifasha kunanura amaguru igihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agashati ka buresiyeri cyangwa ubururu bwerurutse. Afite isaha y'icyuma ku kaboko afashe akaguru k'umukobwa wambaye kola y'umukara na gashati k'umutuku. Yambaye udusogisi tw'umukara aho uyu muganga yakojeje intoki ebyiri ku kaguru mu ivi ry'uyu mukobwa ari kugerageza kumukanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri imbere y'inyubako n'ubusitani bw'ibyatsi bitandukanye, hariho abantu babiri umwe wambaye agakabutura k'umukara karimo imirongo y'umweru n'agapira k'ubururu bwijimye. Afite imipira yo gukina cyangwa se baro mu ntoki, hari undi wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakabutura k'umukara ufite imbago cyangwa se ibimufasha gutambuka neza.

Umusore muremure w'ibigango, wambaye utwuma tw'amatwi tumufasha kumva umuziki uturutse muri terefone, yambaye kandi agapira kamufashe cyane kari mu ibara ry'ivu, afite amaboko abyibushye bisa nk'aho aterura ibyuma, kandi afite icupa rinini ririmo amazi yo kunywa.

Ishusho igaragaza ibara ry'ubururu ryijimye ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, irimo kandi ikimenyetso cy'ibinini ndetse n'akantu kameze nk'igiceri. Iyi foto kandi irerekana ko harimo abafarumasi cyangwa se icuruzwa ry'imiti yifashishwa mu gihe cya siporo ngororamubiri.

Umukobwa muremure cyane w'inzobe, wambaye udukweto turimo amabara y'umweru, ndetse n'ayandi ajya gusa n'ubururu bwerurutse cyane, agakabutura gato cyane kifashishwa muri siporo ngororamubiri, ari imbere y'ikiyaga, ndetse ahagaze muri pozisiyo y'umuntu uri gukora siporo, amaboko afashe ku mavi, bisa nkaho akaguru kamwe karekuye gahagaze ukwako, kugira ngo akore.

Umugabo w'umwirabura wambaye agapira k'umweru n'agasaku kaboko ndetse n'impeta ku rutoki, afite akaguru kandi kambaye kora y'umukara impande irimo akaronko k'umweru arimo aragerageza gukora siporo ngororamubiri.

Umugore n'umugabo umwe mwambaye agapira kajya gusa umweru undi yambaye ak'umukara ndetse bose bari kunywa amazi bahuriye hamwe, umwe yashyize umutwe munsi y'umutwe w',undi basa nk'aho abari mu rukundo ariko bose bamaze gukora siporo bakora igikorwa cyo kunywa amazi kugira ubuzima bwa bo bugende neza.

Igikoresho gikomeye cyane kizwi nk'igare ryifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabasha kugenda. Igikoresho kiri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu n'amapine y'umukara cyifashishwa rero mu kugendayo gifite aho abantu bafata ntiba arimo bacunga ugenda akaba ari naho ucunga afata kugira ngo mu gihe hatari umuntu utari kumufasha yifashe.

Umukobwa muremure cyane wambaye kora y'umukara ndetse n'akenda gafata amabere k'ibara ry'umweru, yazamuye amaboko imbere y'ikiyaga kinini cyane aho ari kugerageza gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa muremure cyane, uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agakora k'umukara kamufashe cyane, yambaye agapira kandi karimo ibara ry'umukara ndetse n'imisatsi miremire cyane ikora mu mugongo.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zifashishwa nk'imiti mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imineke kokombure pome imineke ndetse n'indimu, ibi byose kandi biherekejwe n'utwuma twifashishwa mu guterura aho umuntu aba yubaka umubiri we.

Umusore w'imibiri yombi ufite ubwanwa bwinshi cyane ndetse akaba afite n'umusatsi muke yogoshe, yambaye agapira k'ubururu ndetse na shanete mu ijosi, ikindi kandi arimo aranywa amazi ahagaze neza yemye, bigaragara ko ari umuntu usoje siporo, bikagaragazwa n'akaboko ke kanini cyane.

Itsinda ririmo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'indwara imvune n'ibisebe bibonekera mu myitozo ngororamubir,i harimo imiti bifashisha gusiga ku mvune ndetse no ku bisebe kandi uturindantoki ndetse n'udutambaro bazirika ku muntu wavunitse barimo kumwunga.

Umukobwa wambaye agakora kamufashe karimo ibara risa n'ivu ndetse n'ibindi ry'umweru yambaye kandi agasengeri gato cyane kari hejuru y'umukondo gasa umukara afite kandi ibisuko by'umukara yicaye muri salo n'intebe z'umweru ndetse yicaye ku mukeka usa ibara rijya gusa n'ivu ndetse akaba ari afite compiyuta imbere ye.

Icyumba kigari cyane cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi harimo kandi amabara kubikuta y'umweru ndetse n'itara ryaka cyane ry'umweru harimo itapi y'ubururu bwerurutse cyane hakabamo n'igitanda kiryamaho abarwayi.

Ijage irimo amazi meza cyane ifashwe n'ikiganza cy'umukara, irimo irasuka amazi mu kirahure kibonerana cyane giteretse ahantu hasa nkaho ari ku meza, ni amazi meza cyane afutse kandi ayunguruye.

Umugabo muremure cyane w'ibigango ufite ubwanwa bw'umukara, wambaye agapira kameze nk'agasengeri kari mu ibara ry'icyatsi cyijimye. Ari ahantu mu muhanda nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi arimo arayanywa.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga birimo uturindantoki tw'umweru bwa serenge ndetse n'ibindi, birimo kandi imiti itandukanye ushobora gusiga umurwayi, harimo kandi ibikoresho bashobora kwifashisha bapfuka umuntu wagize igisebe ari muri siporo.

Umukobwa muremure w'inzobe ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye akenda kajya gusa nk'ivu karekare kazwi nka kola, yambaye kandi agapira gafata amabere kazwi nk'isutiya gasa icyatsi cyerurutse, uyu mukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yafatishije akaboko ke k'ibumoso ku mano.

Mu kibuga cya basiketi gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abana ndetse n'abantu bakuru batandukanye barohereye hamwe mu buryo bwo gukora siporo ngororamubiri, bari kumwe n'abantu bari kubafasha bambaye imipira y'imweruru ndetse n'abandi babashungereye, ahantu bari hakijwe n'ibiti bitandukanye insina ndetse n'amazu asakaje amabati y'umutuku hirya yaho kandi birasa nk'aho habaye ikirori kuko hari ihema ry'umweru ririho uturikikije dusa...

Umugabo muremure kandi munini, wambaye agapira k'ubururu bwijimye, akaba yambaye isaha y'umukara ku kaboko, iriho akantu k'umweru, afashe agacupa k'amazi mu ntoki, arimo arayanywa nyuma yo gukora siporo, cyangwa se imyitozo ngororamubiri.

Umusore ubyibushye cyane wambaye agasengeri k'umukara, agakabutura kajya gusa umutuku wijimye, yambaye kandi agasaha k'umukara, aho yicaye afite tatuwaje ku kaguru ke k'ibumoso aho yambaye inkweto za siporo arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugabo wambaye agakabutura k'umukar, kazirikishije umukandara w'umweru, yambaye kandi agapira k'umweru, ari kumwe n'umuganga muri iki cyumba wambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse.

Umusore wambaye imyenda y'umukara, agakabutura k'umukara karimo n'ibara ry'umweru hasi, agasengeri k'umukara ndetse n'imisatsi izirikiye inyuma y'imikara. Apfukamye hasi amaboko ye ari imbere, arimo arakora siporo ngororamubiri imbere y'intebe y'umweru ndetse no mu cyumba cyiza cyane.

Akagege gato cyane kaguruka nta mupilote kazwi nka dorone kari hejuru karimo kuguruka gatwayeye akabogisi cyangwa se agasanduku karimo amaraso, ako gasanduku gashushanyijeho ikimenyetso cy'umusaraba kigaragaza ubuvuzi.

Abakorerabushake bo mu muryango croix rouge yita ku mbabare barafasha umurwayi usa nk'aho agize ikibazo akavunika baramuteruye cyane bashaka kumwinjiza mu modoka imujyana ahantu bajya kuvura, abandi bambaye imyenda y'imyeru barashungereye barimo barareba ibikorwa bibera hano hantu, birasa nk'aho umurwayi yababaye cyane kuko aba bantu bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umweru bari kugerageza.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa n'abaforomo ndetse n'abandi baganga batandukanye, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'irindi bara rijya gusa umweru n'utuntu tw'umukara ku mutwe wacyo, ni igikoresho cyifashishwa mu gupima imiterere y'umutima.

Itsinda ry'abantu batandukanye rivanzemo abagore n'abagabo bambaye imyenda ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri irimo amateriningi, amasengeri ndetse n'ibindi. Bahuriye hamwe mu muhanda ukoresheje amapave bari gukora imyitozo ngororamubiri bahuje.

Ishusho ngari cyane igaragaza ibikoresho byo kwa muganga. Hariho amagambo hejuru y'umutuku yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo: Fast aid kit bisobanuye ubutabazi bw'ibanze, cyangwa se ibikoresho byifashisha mu butabazi bw'ibanze. Hariho ibikoresho bitandukanye, uturindantoki, imikasi, utwuma dufasha mu kubaga, udupfukamunwa, ndetse n'ibindi binini bitandukanye, ndetse n'utwifashishwa mu gupima um...

Igikapu kirimo ibikoresho bitandukanye cyifashishwa n'abaganga bakora ubutabazi bw'ibanze ari ibikoresho byakwifashishwa mu kubaga, ndetse no gusukura igisebe ibikoresho byakwifashishwa mu gupfuka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umusore muremure w'ibigango ufite ubwanwa buconze bw'umukara, afite amaboko abyibushye cyane yambaye kandi agapira kajya gusa umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije amaboko ye ku giti cye.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri kizwi nka gym kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo abagabo bagera kuri babiri bambaye ipantaro n'agapira k'umukara. Undi umeze nkaho ari gukora imyitozo, yambaye inkweto z'umukara, agakabutura k'umukara, n'agapira k'umutuku karimo ibara ry'umweru, isaha ku kuboko. Bose hamwe bafite imipira yifashishwa mu mukino wa rugby mu ntoki.

Mu nyubako isa nk'aho yitaruye iri hanze ahantu hagaragara; ifite amadirishya y'umweru n'ibirahure bibonerana ndetse n'icyuma kirimo bakoreraho siporo ngororamubiri, irimo itapi y'icyatsi ndetse n'ibikuta bisize amarangi y'umweru, harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara, agakabutura n'udukweto by'umukara, ndetse n'agapira arimo aragerageza gukora siporo ngororamubiri agenda asimbuka akandagiza akaguru kamwe agasiga akandi akongera akazamura akandi.

Umugabo muremure ubyibushye ufite ubwanwa bw'umukara n'agasatsi gakeya ku mutwe, yambaye agapira k'umukara ndetse afite isume y'umweru mu ijosi, afite icupa kandi ry'amazi arimo aragerageza kuyanywa, nyuma yo gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa muremure cyane ufite ibisuko by'umukara bizirikiye inyuma yambaye agakora k'ubururu bwerurutse cyane ndetse n'agapira gafashe amabere kerurutse cyane k'ubururu, aricaye arimo gukora imyitozo ngororamubiri aho arambura amaboko ye akenda kuyakoza ku mano.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye umuntu ashobora kurya nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri harimo inyanya hakabamo pome, urusenda, voka ndetse n'ibindi bitandukanye birimo tungurusumu n'ibishyimbo hari kandi ibindi bikoresho bakifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri birimo inkweto za siporo ndetse n'utwuma two guterura hamwe n'amazi yo kunywa.

Mu cyumba kinini cyane gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umumama uryamye hasi ari muri pozisiyo yo gukora siporo, yambaye agapantaro kazwi nka kora k'umukara ndetse n'agasengeri karimo ibara ry'ikijuju, gakikijwe n'utugozi tw'umukara, aryamye hasi nk'umuntu uri gukora siporo neza cyane, yifashe ku ivi ndetse akandi kaguru karambuye hasi, ari mu nzu ifite amadirishya y'umweru ndetse n'amarangi y'umweru.

Umusore w'ibigango uhagaze ahantu, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura k'umukara, agasengeri k'umukara, agasaha kamufasha gucunga igihe ndetse n'udukweto turi mu mabara y'ubururu bwijimye n'udusogisi tw'umukara. Ari kugerageza kuzamura amaboko ye, akayakoza ku giti cyubatswe aho ngaho kugira ngo gifashe abantu gukora siporo.

Mu ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi batandukanye bambaye imyenda y'umuhondo irimo amabara y'umukara ndetse n'abandi bambaye iy'icyatsi n'ubururu ndetse n'amabara y'umweru; haryamye umusore usa nkaho yavunitse ari kwitabwaho n'abaganga bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'amapantaro y'imikara. Barimo baragerageza kumushyirira umuti ku kirenge kugira ngo abashe kongera gukina nez...

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri byose bihurizwa mu cyitwa gimu. Ibi bikoresho kandi ni ibyifashishwa mu guterura biriho ibyanditsweho ibiro makumyabiri abantu babitera kugira ngo bakore umubiri ukomeye.

Icyumba cyagutse cyo kwa muganga kirimo amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu, kirimo ibikoresho bitandukanye yaba ibyifashishwa n'abaganga ndetse n'ibifasha abarwayi harimo kandi igitanda kinini cyane kiryamamo umurwayi n'igitanda kiri mu mabara y'ubururu.

Mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umuganga wambaye agashati ka burusiyeri cyangwa se ubururu bwerurutse, arimo kugerageza gufasha umusore gukora siporo ngororamubiri yifashishije akuma baterura mu maboko, kugira ngo gakomeze amagufwa n'inyama zo mu maboko.

Umuganga w'umumama wambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse, aba yambaye agapira k'umweru mo imbere, afite icyuma cyifashishwa mu gupima imiterere y'umutima. Ari kumwe n'umugabo uryamye hasi wambaye agapira k'umweru, n'agakabutura k'icyatsi, n'udukweto tw'umukara turimo ibara ry'umweru hasi, umuganga arimo aragerageza gukanda ku kaguru k'uyu mugabo uryamye hasi.

Itsinda ry'ibyokurya bitandukanye, hari isahani ya mbere iriho amagi, umugati ndetse n'inyama. Hari indi sahani iriho imineke, inkeri n'ibindi. Hakaba kandi akandi gasahani karimo ibitandukanye birimo calibebefu, urusenda, ibitunguru n'ibindi hirya yabyo hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri ndetse n'ibika ivamo icyayi.

Umugabo w'inzobe cyane wambaye imyenda ijya gusa ubururu bwijimye, ari gufasha mugenzi we wundi wambaye agakabutura k'umukara ku mukanda amukorera ibizwi nka masaje. Arimo aramugorora ku maguru, uwo mugabo bari kugorora aryamye ku gitanda kiriho akenda gasa umweru, ndetse yambaye urukweto rurimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi.

Mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo ubuvuzi bwo kubaga, harimo abaganga bagera kuri bane. Harimo abambaye imyenda y'ubururu bwijimye ndetse n'ubururu bwerurutse, bambaye kandi udupfukamunwa tw'ubururu bwerurutse cyane. Bafite ibikoresho bitandukanye biri ku bimeze nk'amasiniya, bari kugerageza gufasha umurwayi wicaye ku gitanda.

Itsinda ry'imboga n'imbuto riherekejwe n'agakombe k'akarahure karimo ry'umuhondo yifashishwa mu kunywa igihe umuntu asoje gukora siporo ngororamubiri. Hari kandi utwuma twifashishwa mu guterura mu maboko kugira ngo bikomeze inyama zo ku maboko. Haba hari kandi na metero ipima uburebure bw'umuntu.

Itsinda ry'ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga yaba ibyifashishwa mu gupfuka ibikomere ndetse n'imiti itandukanye bashyira ku bisebe hariho uturindantoki twifashishwa mu kwirinda imyanda ituruka mu bisebe by'abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bakifashisha upfuka harimo nka bande n'ibindi.

Imodoka ikoreshwa mu butabazi bw'ibanze izwi nka ambulance, iri mu amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ikaba ifite igipine cy'umukara kiri inyuma yayo. Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'igiti cy'ipoto gitwara umuriro, hirya yayo hari ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Umugabo munini cyane ubyibushye wicaye mu muhanda wa kaburimbo, yambaye agasaha k'icyatsi ku kuboko. Yambaye kandi agasengeri k'umukara, umugabo ufite ubwanwa buke hejuru y’umunwa. Afite icupa ry’amazi ry'ubururu, arimo arayanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ubusitani buterwamo ibimera byakwifashishwa mu buvuzi gakondo, hateyemo igiti gisa icyatsi kizwi nka karoti, gishobora kwifashishwa nk'imbuto ziribwa cyangwa se imboga, kikaba nanone cyakwifashishwa nk'umuti, kiri ahantu harimo utubuye ku buryo bisa nk'aho gisukira amazi mu gihe cy'isaha kiratoshye.

Ikimera k'icyatsi cyane kizwi nk'umuravumba giteye hagati y'ibindi biti bitandukanye, ikimera kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye yaba iz'ubuhumekero, yaba indwara zo mu nda, ndetse n'inkorora n'ibicurane.

Ishusho igaragaza imiti yifashishwa mu kuvura indwara hifashishijwe imiti gakondo ikomoka ku bimera, harimo igitunguru ndetse n'indimu ebyiri zisatuye hirya yaho hariho icupa ririmo amavuta akomoka kuri izo mbuto ebyiri zagaragajwe.

Amacupa n'udukombe bitandukanye, birimo imiti y'ibikomoka ku bibumbe by'umweru, birimo utumera dutandukanye bakifashisha mu gukora imiti tuzwi nka karoti, n'utundi ducupa tw'umutuku turimo udufu dutandukanye, bisa nkaho ari imiti. Ndetse n'akandi gasahane gatoya gakorerwamo umuti.

Itsinda ry'ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo bw'imiti ikomoka ku bimera, burimo ibyatsi bitandukanye, yaba imicyayicyayi yifashishwa mu cyayi, indimu zizwi nk'imbuto zikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibindi byatsi byose bitandukanye biri mu matsinda agera kuri atanu, byose bikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye bivamo umuti uvura indwara zitandukanye, biri ku kameza kajya gusa umweru, aho hari akantu kameze nk'akayiko kariho ibyatsi bikeya n'akandi kantu gakoze mu mbaho kameze nk'agasekuru, harimo umuhini wo kubisekuza kugira ngo bibe byaba nk'agafu kakifashishwa nk'umuti.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bihuriye mu ngeri zigera kuri cumi n'ebyiri, bigaragaza imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi gakondo ibimera bitandukanye, birimo bifite uturabyo tw'umuhondo n'ibindi bitandukanye byose bikoreshwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye ariko akaba ari ubuvuzi bw'ibikomoka ku bimera.

Igihingwa cyo kuba cyakwifashishwa mu buryo bwo gutanga imiti ikomoka ku bimera, ni igihingwa kizwi nka tangawizi, cyifashishwa igihe umuntu arimo akora icyayi, kugira ngo kibe cyakugogora mu kanwa, ndetse cyifashishwe mu kuzibura inzira z'ubuhumekero z'umuntu.

Itsinda ry'ibimera bitandukanye yaba iby'umuhondo ndetse n'iby'icyatsi kibisi ndetse n'ibifite uturabyo tw'umweru. Byose hamwe ni ibyifashishwa mu buvuzi gakondo bw'imiti ikomoka ku bimera. Hari kandi utwo babibikamo, yaba agatasi k'umweru kifashishwa mu kubicoca ngo bivemo umuti.

Ibyatsi binini cyane bihuriye mu gihuru kirimo ibindi byatsi bitandukanye, byose biri mu ibara ry'icyatsi ryerurutse n'iryijimye, hariho kandi uturabyo hejuru turi mu ibara ry'iroza. Ibi byatsi kandi bizwi nk'ibisura, aho byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, zifashisha imiti gakondo ikomoka ku bimera.

Mu masaha asa nk'ashyira ikigoroba, ni ibihingwa birimo igikakarubamba, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bishobora kuba byavura indwara zitandukanye, yaba izo mu buhumekero, izo mu nda, izo ku ruhu, ndetse n'ibindi. Igikakarubamba kandi kigaragara, cyavamo amavuta asigwa ku ruhu, rugasa neza.

Inzu icururizwamo imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, irimo ibintu bitandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri ubwo buvuzi, imiti itandukanye iri mu mabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Umurima munini cyane wagutse uhinzemo inanasi ziteye ku murongo kandi zitari zera neza, harimo abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi kibisi ndetse n'umweru, harimo kandi imodoka zifashishwa mu buhinzi ndetse no kubagara ibihingwa bitandukanye.

Icupa rirerire cyane riri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hasi yayo hari icyatsi kijimye ndetse n'icyerurutse, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kijimye yanditseho ngo shampo.

Amacupa manini cyane abitsemo imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi gakondo, n'amacupa agera kuri atanu aho harimo arimo imiti y'icyatsi cyijimye cyane hariho ibyapa biri mu mabara y'ubururu, icyatsi, umweru ndetse n'umutuku.

Itsinda ry'imiti gakondo ikomoka ku bimera rigizwe n'udupariti dutandatu, kamwe karimo imiti ijya gusa umuhondo akandi karimo iy'umutuku, akandi karimo ibyatsi bivanze byenda kuma, akandi karimo utwatsi dutandukanye turimo tw'amabara ya move, umweru n'ibindi. Byose bihuriye hamwe kugira ngo bikore imiti ya gakondo ikomoka ku bimera ivura indwara zitandukanye.

Itsinda ry'ibiti n'ibimera bitandukanye, byose hamwe byifashishwa mu buvuzi gakondo bw'imiti ikomoka ku bimera. Harimo ikimera kizwi nk'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye yaba inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zifata ubuhumekero.

Umuvuzi gakondo w'imiti ikomoka ku bimera ari muri botike ye icuruza iyo miti, aho afite igikombe kirimo amavuta atandukanye yakifashishwa mu buvuzi, afite kandi ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibimera bitandukanye yakusanyije yaba ibyumye n'ibitumye kugira ngo bizavemo imiti yo kuvura abandi.

Icupa ribyibushye cyane riri mu mabara y'icyatsi kijimye, ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo bw'imiti ikomoka ku bimera. Handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ari ku gishashi kiziritse rino cupa kiri mu ibara ry'icyatsi avuga ko ari umuravumba.

kimwe mu bihingwa byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kizwi nka tungurusumu gishobora gukora nk'icyavura ikirungura, kikavura umutwe ukabije, kikavura mu nda cyangwa se tungurusumu ikaba yanakwifashishwa mu kuvura impumuro mbi mu kanwa. Ikindi kandi tungurusumu yakwifashishwa mu gutekwa mu biryo igatekwa nk'igitunguru.

Itsinda ry'amacupa y'umweru ndetse na rimwe ry'umukara ripfundiki agafuniko k'umweru riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru ,aya macupa yose arimo ubuki bukomoka ku nzuki n'umuti wifashishwa mu kuvura indwara gakondo zitandukanye ndetse bikifashishwa mu buvuzi bw'indwara gakondo yifashisha imiti ikomoka ku bimera.

Akabati k'imbaho z'umukara kareba hejuru, karimo imiti itandukanye iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, ni imiti gakondo ikomoka ku bimera, yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari amacupa apfundikishije udufuniko tw'icyatsi, utw'umutuku, harimo imiti y'imihondo ndetse n'imikara.

Ubusitani buhingwamo ibimera byifashishwa muvuzi gakondo bukoresha imiti ikomoka ku bimera ni igiti kinini cyane kirimo amababi mato mato y'ubwoko butandukanye bwifashishwa mu kuvura.

Ikimera kinini cyane cyagutse kirambuye, kirimo ibara ry'icyatsi cyerurutse cyane, hejuru yacyo hariho ibinini byinshi bigera ku munani bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni ibinini kandi byakozwe hifashishije iki kimera.

Itsinda ry'ibyo kurya ndetse n'imiti amavuta n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse bikaba arimwe mu miti y'ibikomoka ku imera, harimo imbuto zitandukanye zirimo: imineke, inanasi ndetse n'ibindi, harimo kandi amavuta ndetse n'icyayi byifashishwa mu guteka.

Itsinda ry'ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye. Iyo miti kandi iri mu ngeri eshatu aho hari imiti itandukanye yakwifashishwa mu gukora imiti yavura indwara z'ubu humekero, izo ku ruhu n'izindi zitandukanye. Hari imiti iri hejuru kandi irimo ubwoko butatu, iri mu uducupa ndetse n'indi iri mu tuntu tumeze nk'udusahani.

Imbuto ebyiri zirimo rumwe ruhiye n'urundi rudahiye neza, imbuto z'amapapayi, zirimo imbuto z'umukara mo imbere ndetse rumwe rurasatuye urundi ntirusatuye, urusatuye rwegetse ku rundi rutarasaturwa kandi rutarashya neza. Ni imbuto zifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye.

Itsinda ry'imiti gakondo ikomoka ku bimera ririmo imiti itandukanye aho harimo uduti dutoya dusatuye ku ngiga z'ibiti, hakabamo utwatsi twifashisha mu kuvura, imbuto z'ubwoko butandukanye, ndetse n'udukombe cyangwa se udusahane twifashishwa mu gukoroga iyo miti neza, iyo yavamo umuti muzima wakwifashishwa.

Umuganga gakondo uvurisha imiti ya kinyarwanda, ikomoka ku bimera, afite agapapuro karimo umuti w'agafu, usa icyatsi kijya kwijima ndetse asa nk'aho ari kuwukorakora kuburyo yawushyira nko ku gisebe cyangwa akawuvurisha umuntu.

Itsinda ry'ibiribwa n'ibimera bitandukanye, biri mu mabara atandukanye. Hari ubunyobwa, hakaba igitoki gikebye, hakaba ibyatsi by'ubwoko butandukanye, byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bwifashishije imiti ikomoka ku bimera.

Ubusitani butoshye cyane bukubiyemo imiti, ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ari ibimera bitoshye cyane bisa nk'aho byuhirirwa ndetse bikubiye hamwe kugira ngo uwabiteye azabikureho umuti wakifashishwa mu kuvura abantu.

Mu gasoko k'imiti ikomoka ku bimera, ndetse yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, harimo umugabo wambaye agashati kajya gusa umweru, ndetse ari iruhande rw'imiti itandukanye, yaba icupa rirerire ry'icyatsi kijimye, ribikwamo amavuta ya Elayo, n'ibindi bikombe bitandukanye, bipfundikishije imifuniko ya oranje, ndetse n'indimu n'amaronji biri iruhande rwe, byose byifashishwa mu buvuzi.